Abagore batatu bose bakenyeye ibitenge bari ku ivomo rusange, umwe ari kuvomesha indobo iteretse mu ibasi kugira ngo amazi atameneka hasi, undi ari kumufasha kuzamura amazi muri nayikondo.

Abana batoya bicaye hamwe bambaye udupira dusa, bari kumwe n'abamama bambaye ingofero, bari kujya babaha icyo kunywa bakoresheje ibikombe. Hari umupolisi uri guha umwana icyo kunywa akoresheje igikombe.

Abagabo bambaye amataburiya y'umweru n'amapantaro y'umukara, bari kumwe n'abagore babiri bambaye imyenda yiganjemo umutuku, umwe yambaye ho n'itaburiya, bose bazamuye igikumwe bareba imbere bishimye.

Umwana muto w'umukobwa usutse imisatsi, wambaye imyenda y'ibitenge yiganjemo ibara ritukura, ari ku ivomo rusange, atezeho ibiganza byombi ari gukaraba, amazi agwa mu ibase nini y'umukara.

Abana bateraniye hamwe, bambaye imyenda y'ishuri, imbere yabo hari ameza abiri ateretseho ibidobo bibiri binini, bafite ibikombe bari gufungura bakuramo icyo kunywa.

Ku ivomo rusange hateraniye abana bato n'ababyeyi, umwana umwe ari kuvoma ku ijerekani, ari kumwe n'umubyeyi wambaye ikanzu, witwikiriye umutaka, uri kwitegereza uko amazi aza.

Abaturage bicaye hamwe mu byatsi bakikijwe n'ibiti, bari kwitegereza umwana n'umugabo bari imbere yabo bazamuye amaboko barayahuza, inyuma yabo hari akagozi kariho igipirizo cy'umuhondo.

Ikigega kinini kirimo amazi aho bayatunganyiriza, gikikijwe n'utwuma twinshi tw'ubururu, ingazi zikinjiramo, ku ruhande rwacyo hari inzu ndende y'imiryango myinshi n'amadirishya n'igisenge gitukura.

Abana benshi b'abanyeshuri bambaye amashati y'imihondo, bazamuye amaboko basuhuza baseka bishimye, inyuma yabo mu muryango ufunguye hahagaze abagabo babiri n'abagore batatu na bo bazamuye amaboko bishimye.

Umugore w'agasatsi gakeya, wambaye agapira k'amaboko magufi, ukenyeye igitenge, ateruye umwana ukiri muto wambaye akagofero k'umweru n'udusogisi, yaje kuvoma n'indobo ye y'umukara.

Abana babiri, umwe apfukamye ku ibuye riri imbere y'kidendezi gikikijwe n'ibyatsi, bari kuvoma badubitsemo ibijerekani, umwe afite agatoya, undi afite ikinini, byose ni umuhondo.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abagabo n'abagore bicaye batuje, bafite uducupa duto turimo amazi yo kunywa, imbere yabo hari abayiyoboye, abagabo babiri bafite mudasobwa, n'umugore umwe, wicaye ku ruhande.

Ku ivomo rusange rifite ibara ry'ubururu, n'amarobine abiri atandukanye, abana baje kuvoma bafite indobo ,hari n'undi umwe mukuru ufite ibase ari kogerezamo umwana umubiri wose, uhereye ku mutwe.

Ku ivomo rusange riri ahantu hari ibyatsi, umwana waje kuvoma imbere ye hari amajerekani abiri y'umuhondo, indi imwe y'ubururu ifite umufuniko utukura, ateze ibiganza amazi ari kujya agwamo, byamunejeje.

Icyumba kirimo abaganga babiri n'umurwayi uri ku gitanda, umuganga w'umugore wambaye itaburiya yafashe ukuboko kwe kw'ibumoso, ari kumufatira umuvuduko ngo yumve uko umutima utera.

Ikirango cy'Umuryango wita ku buzima ku Isi, kiri mu mubumbe w'umweru, ufite uturongo tunyuranamo tw'umukara, uruhande rumwe ubururu bwijimye, urundi icyatsi gihiye.

Umwana mutoya wambaye agapira k'ubururu karimo uturongo tw'umukara, ari gukaraba intoki, mu kiganza kimwe harimo isabune, ukuboko k'umuntu mukuru ufite ijage y'icyatsi, ari kumusukira amazi.

Ikigega kinini cyubatse mu buryo bwo kuyungurura amazi. Iruhande rwacyo hari imiyoboro ikinjizamo amazi, hari n'ibindi bigega inyuma yacyo bitandukanye, hariho n'amatara atanga urumuri.

Icyumba kinini gisize irangi ry'umweru, kirimo abagabo bahagaze ku murongo ku buryo bose babasha kugaragara, inyuma yabo hari icyapa kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, imbere yabo hari abandi bicaye ku dutebe dutukura barimo n'umugore umwe.

Abagabo batatu n'umugore umwe bose bambaye udupfukamunwa, hagati yabo harimo ameza ariho igitambaro cy'umweru ateretseho mudasobwa, umugabo umwe wicaye imbere ye hari ibipapuro ariho arabisoma.

Icyumba kinini cy'amahugurwa kirimo abagabo n'abagore, imbere yabo hari amazi, hari impapuro, bicaye bareba imbere ku byuma by'ikoranabuhanga, aho bari gukurikiranira amahugurwa.

Ababyeyi b'abagore baje kuvoma ku kazu k'amazi, bakoze umurongo w'amajerekani yiganjemo ay'umuhondo, imbere ya yo hahagaze umukobwa wambaye umupira w'umukara.

Dr. Sabin Nzanzimana Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda aravuga uburyo bwo kurwanya kanseri yibasira ubwonko mu Rwanda, ni imwe mu makanseri abiri akomeye yibasira impfu z'abantu magana atandatu buri mwaka.

Umubyeyi w'umugore ufite imisatsi y'umukara wicaye mu ntebe y'ubururu ari kumwe n'umwana we, imbere ye hari umugabo wambaye bote z'umweru wicaye ku rubaho, ufite ibitabo byinshi uri kugenda amuganiriza.

Abagabo n'abagore bateraniye mu ihema ry'umweru, abambaye amataburiya y'ubururu bari kugenda bereka ababasuye bambaye amakoti y'imikara n'amapantaro, ibintu byinshi biri ku meza abari imbere.

Abana bato b'abanyeshuri, bari mu kigero kimwe, biganjemo abambaye udushati tw'icyatsi, bari ku ivomo, bitegereza mugenzi wabo uri kunywesha ikiganza amazi, amwe akajya ameneka hasi.

Umwana w'umukobwa aje kuvoma ku iriba rya Nayikondo afite indobo z'umweru, abanje gukaraba intoki ndetse no koza za ndobo kugira ngo abone uko atwaramo amazi asukuye.

Mu ihema rinini ry'umweru, abagabo bane n'umugore umwe, bamwe baricaye undi ahagaze inyuma yambaye itaburiya y'umweru, imbere yabo hari udukarito, icupa ndetse n'ipamba rifunguye, umwe muri bo yambaye uturindantoki tw'umweru n'amadarubindi y'umukara.

Ivomo rusange, riri ahantu ku gasozi hitaruye, umubyeyi yagiye kuvoma akoresheje ijerekani, yambaye ibitenge, yambaye agapira, afite akagofero mu mutwe, ari kutwereka uko ashobora gufungura ngo abone amazi.

Ku ivomo rusange riri hagati mu kibuga, rizengurutswe n'ibiti birebire n'amazu, umwana w'umukobwa wambaye imyenda yiganjemo ubururu n'agasatsi gakeya mu mutwe, ari gukaraba intoki.

Umubyeyi wambaye ibitenge ufite imisatsi y'umukara uteruye umwana ukiri mutoya ari kumwe na muganga wambaye itaburiya y'umweru, amaherina y'icyatsi, usutse imisatsi yafashe umwana amatama ari kumuha ibitonyanga.

Abaturage, abakuru n'abatoya bakikije iriba rusange bari kwitegereza ukuntu umugabo wambaye imyenda y'umukara azamura amazi muri nayikondo akajya mu ijerekani y'umuhondo, iruhande rwayo hari akabido.

Ivomo rusange ririho robine ebyiri ziri kumena amazi, umwana wambaye agapira gatukura afite igikombe cy'icyuma ari kuvoma amazi byamushimishije ariho araseka.

Inzu nini ifite amabati atukura, imbere yayo hari ibigega, birimo ibara ry'umweru n'umukara n'imiyoboro ihuza ibyo bigega, bikoze uruganda ruyungurura amazi.

Mu ruganda ibyuma byinshi by'ubururu biri mu ibara ry'icyatsi, imbere yabyo hari umugabo wambaye isarubeti y'umukara, ingofero y'umweru yabugenewe, inkweto z'umukara, ari kugenzura uko biri gukora.

Umugore uteze igitambaro mu mutwe, wabanze ingata yikoreje ijerekani y'umuhondo, ipfundikije ishashi, umufuniko utukura, amaboko ye yose ayifasheho, ku mpande ze hari abana babiri, umwe arunamye.

Icyapa kinini, kiri mu ibara ry'umweru ryiganje, n'ibirango bindi biri mu bururu, harimo umubumbe uciyeho uturongo tunyuranamo, n'umubyeyi w'umugore uteruye umwana amureba mu maso, bikikijwe n'amashami abiri iburyo n'ibumoso.

Abagabo n'abagore bambaye imipira y'amaboko magufi y'umweru, ifite akarango gatoya k'ubururu mu ruhande rw'ibumoso, bateranye batuje, mu ihema rinini ry'umweru rikikijwe n'ibyatsi.

Imbere y'ikigo nderabuzima cya Mayange, abajyanama b'ubuzima bambaye amataburiya y'ubururu n'ibibaranga mu ijosi bari kubyina bakoma amashyi, bishimiye abashyitsi babasuye barimo umugabo w'umuzungu ubahagaze imbere.

Igitembo gisohora amazi meza y'urubogobogo kiri mu byatsi, umuntu ari gukarabisha ukuboko kumwe kwambaye ikote rijya kuba umukara, amazi agahita akomeza agatemba.

Ababyeyi b'abagore bateruye abana bakiri batoya, abenshi bambaye ibitenge, begamiye urukuta rw'amatafari, bicaye kandi ku murongo.

Abantu b'ingeri zose barimo abasaza, abakecuru, abana, inkumi bicaye ku gasima kari imbere y'inyubako, bigaragara ko bahategerereje, imbere yabo hari kandagira ukarabe ikoze mu cyuma.

Mu cyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibyuma bitandukanye, umuganga wambaye imyenda y'icyatsi, ingofero irinda umusatsi y'umuhondo n'amabara y'ubururu, agapfukamunwa k'ubururu, ari kwitegereza kimwe mu byuma kiri kugenda kiyandikamo imibare.

Icyumba kinini gisize irangi ryumuhondo urugi rukinguye ku nkuta zacyo hometseho ibipapuro byumweru byanditseho amagambo menshi hateraniyemo abagabo n'abagore bafite impapuro bose ku bibero byabo bicaye ku ntebe zimbaho.

Igikoresho kimeze nk'indobo, gifite aho washyira isabune, kiri gusohokamo amazi, giteretse ku meza. Ibiganza bibiri biri gukaraba, amazi asohoka muri icyo gikoresho.

Umuturage ukuze w'umugabo, wambaye ipantaro y'umukara, ishati irimo amabara avanze, yazanye ikivomesho cye ku mugezi wubakiwe, ufite aho bavomera habiri, agaragaza ko yishimye.

Ku ivomo rusange ryo mu gasantere abantu baje kuvoma, abaturage b'ingeri zose abana, abagore. Bafite ibijerekane, bafite amabase. Hari n'abafatanyabikorwa baje kureba ukuntu kuvoma kuri iryo vomo bigoye.

Abagore bambaye amataburiya ajya kuba umwe n'ikibaranga mu ijosi hagati yabo hari umugabo wambaye ipantaro n'ikoti by'umukara bari kwifotoza nk'abarangije amahugurwa hirya yabo hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'ikimuranga mu ijosi.

Umugabo w'uruhu rwirabura, udafite umusatsi, wambaye amarinete, ikote n'ipantaro, ari kumwe n'umugore wambaye agapira k'umweru, ipantaro y'umukara w'imisatsi myinshi, uruhu rwera, bafashe mu maboko yabo ikirango cya viziti Rwanda, bahagaze imbere y'ikirango cya Unicef.

Ahantu hagari hitaruye hari amazi mu kidendezi n'ikigega kinini cyuzuye amazi, kiri mu ibara rya kaki n'umweru, aho bayatunganyiriza n'imiyoboro iyasohora muri icyo kigega.

Abagabo n'abagore bahagaze hamwe hagati yamazu mu nsi y'akabaraza k'ibati, barimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndende, abagore babiri bambaye imyenda y'ubururu isa, iruhande rwabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Umusore usutamye wambaye amarinete y'umukara, arerekera abamukikije uko umuntu ashobora gupima ku munzani ibiro by'umwana. Uwo munzani uhagazeho umwana ari gupimwa.

Abaturage biganjemo ababyeyi n'abana babo bateraniye ahantu hari akazuba ku buryo bamwe bafashe imitaka bakitwikira abandi bari mu ihema, bari kumwe n'abayobozi, harimo n'urwego rwa porisi imbere yabo hari uri kubabwira iby'uwo munsi.

Umwana mutoya w'umukobwa w'umunyeshuri, wambaye imyenda y'ishuri, ijipo itukura, ishati irimo amabara y'umweru n'umutuku, ufite ishapure mu ijosi, ari imbere ya kandagira ukarabe iriho akabase, ari gukaraba amaboko ye yombi.

Ababyeyi b'abagore baje gupimisha abana babo ibiro ngo barebe imikurire yabo, bari kumwe n'umujyanama w'ubuzima w'umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, iruhande rwabo hari umunzani ubafasha kureba ibiro by'abana babo.

Ikirango kigaragaza ikigo gishinzwe amazi isuku n'isukura cya WASAC mu nyuguti z'ubururu n'icyatsi, n'igitonyanga cy'amazi cyenda kugwa mu yandi mazi.

Ku ivomo rusange rifite amarobine abiri, imwe ifunguye amazi ari kumeneka. Umwana w'umuhungu wambaye ishati y'icyatsi ufite agasatsi gakeya ari gukaraba intoki, iruhande rwe hari indobo y'ubururu ipfundikiye.

Abayobozi bambaye imipira ifite ibara rya oranje, bahuriye ahantu bari gukora akarima k'igikoni bagenda bateramo ibihingwa bitandukanye ndetse hari n'urwego rwa polisi.

Umuganga w'umugabo wambaye iby'ubwirinzi nk'uturindantoki, agapfukamunwa, ibirinda mu maso, ari kumwe n'umuturage w'umugabo ukuze, ari kumusobanurira ndetse inyuma yabo hari umwana ubateze amatwi.

Umugabo wambaye ibirango by'Umuryango w'Abibumbye wita ku Buzima mu mugongo we, ari kumwe n'umugore usutse imisatsi ifungiye inyuma igwa ku rutugu, bari gutondeka udukarito dutoya tw'icyatsi, umweru ndetse n'ubururu.

Mu kidendezi cy'amazi kiriho utwatsi dukeya, umwana w'umukobwa wambaye agakanzu ukiri mutoya ufite agasatsi gakeya, akandagiyemo adubitsemo ijerekani ye nini y'umuhondo, ari kuvoma.

Imbere y'inzu iriho icyapa kinini, hahagaze abantu ku murongo ku buryo bose babasha kugaragara, bamwe baricaye abakobwa n'abahungu, benshi muri bo bambaye amataburiya y'umweru.

Umwana mutoya waje kuvoma n'akabido ke k'umuhondo gatoya ku ivomo rusange. Atanze umwanya kugira ngo undi mwana w'umunyeshuri wambaye umupira w'ubururu abashe gukaraba ikiganza, abandi banyeshuri bari mu muhanda bari kubitegereza.

Imbere y'inzu ifite ibendera ry'u Rwanda, hari imodoka y'umweru, amahema abiri maremare, abaturage bahakoraniye, abagabo n'abagore, bamwe baricaye mu gacaca abandi barahagaze.

Mu gishanga ahantu haretse ibiziba, abakobwa n'abahungu baritegereza umwana w'umunyeshuri wambaye ishati y'umuhondo, ikabutura y'ubururu, ufite uducupa tubiri turimo amazi, yerekana uko amazi meza aba asa.

Ivomo rusange riri ahantu hitaruye ku gasozi rihora rimena amazi ritajya rifungwa, abana babiri b'abahungu bagiye gukaraba intoki bigaragara ko bari gukina n'ayo mazi.

Umwana muto w'umukobwa w'inzobe ufite imisatsi irimo amasaro ari kumwe n'umubyeyi wamufashe akaboko ndetse bari kumwe na muganga wafashe ka kaboko, akaba ari kugateraho urushinge amukingira umwana aratuje.

Umugezi munini uri mu gishanga. Umugore afite ijerekani adubitsemo akandagiye mumazi ari kuvoma, umugabo ari koza igare akoresheje amazi y'uwo mugezi.

Umubyeyi wambaye ibitenge ufite umusatsi uringaniye, uteruye umwana ukiri mutoya yasetse, ariho aritegereza umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite imisatsi isutse, ukuntu yafashe ku matama y'umwana we, ari kumuha umuti.

Abagore babiri bambaye imyenda y'ibitenge bateze ibitambaro mu mutwe barikumwe n'umugabo wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara uhagaze ku mifuka bari gufatanya bose uko ari batatu baterura umufuka umwe.

Icyumba kirimo umubyeyi wambaye ibitenge, n'igitambaro mu mutwe, iruhande rwe haryamye umwana, abaganga babiri uw'umugore n'umugabo bambaye amataburiya y'umweru, bafashe akaboko k'umwana bari kugenda bagashyiraho ibipfuko, iruhande rwabo hari imiti.

Icyumba kinini giteraniyemo abagabo n'abagore, umugabo umwe arahagaze ari kuvuga, iruhande rwe hari umunzani ushinzwe gupima ibiro by'abana, kuri wo hariho agakabutura k'ubururu abana babashyiramo.

Icyumba kirimo abaganga batatu bambaye amataburiya y'umweru, agapfukamunwa, umugabo wambaye umupira wa kaki, yatanze urutugu rw'ibumoso umuganga wambaye uturindantoki tw'umweru ari kumuteraho urushinge.

Abana bane b'abahungu batatu bambaye ikabutura undi ipantaro, bari ku ivomo rya nayikondo bafite ikijerekani kimwe cy'umuhondo n'akajerekani gatoya k'umuhondo, bari kureba uko amazi ameneka.

Ku ivomo rusange, abana batoya bane bafite utujerekani dutoya tw'umuhondo, bari kumwe n'umukobwa ufite imisatsi miremire y'umukara, ari kubafasha kuzana amazi muri nayikondo, hirya yabo hari imodoka nini y'umweru.

Kwa muganga aho abarwayi bategerereza, abarwayi bafite ibipfuko bategereje muganga. Hari amashusho ku bikuta yerekana serivise zitangwa kwa muganga nk'ibyo umurwayi aba agomba kumenya.

Abana bato b'inshuke bari mu kigero kimwe, bambaye udukanzu tw'ubururu bunoze n'udushati tw'ubururu bwerurutse, bari kumwe na mwarimu wabo wambaye itaburiya y'umweru, bakoze imirongo imbere y'ababyeyi b'abagore bari kubitegereza.

Ku kazu k'amazi gafite ibara ry'ubururu n'umweru, abantu benshi baje kuvoma, batondekesheje amajerekani yabo umurongo, amazi ari kujya muri imwe ifiteho umubirikira.

Ku ivomo rusange ririho icyapa cy'abafatanyabikorwa WASAC na World Vision, umwana wambaye agapira gatukura, yafunguye amazi, ariho arakaraba intoki ariko areba inyuma.

Abagabo n'abagore bari hamwe bambaye amataburiya y'ubururu n'undi wambaye itaburiya y'umweru bakikijwe n'ibiti by'icyatsi, hagati muri bo harimo uwambaye ikote ry'umukara n'ipantaro afashemo babiri ku rutugu.

Abantu benshi bateraniye imbere y'inzu ifite irange ry'umuhondo, inkingi eshatu, biganjemo abagore bambaye ibitenge, udupira twa oranje hejuru, dufite utujire tw'icyatsi bahagaze bari guseka bishimye.

Abana bato bicaye hamwe, bambaye udupira dutukura, imbere yabo hari umugore usutamye, yambaye akagofero gatuma imisatsi ye igaragara, ari kubaha amata akoresheje inkongoro, inyuma ye hahagaze abandi bantu, barimo umusirikare na we ufite inkongoro mu ntoki ze.

Umukobwa wambaye agapira k'amaboko magufiya k'iroze, ijipo y'umukara yaciye bugufi arasutama afata ijerekani ye ayiterekeranya mu mabasa abiri, aravoma ayifashe kugira ngo amazi yo kumeneka hasi.

Ku ivomo rusange umwana amaze kuvomesha indobo ipfundikiye, ari kugerageza kuyikorera, umugabo wambaye ikoboyi y'ubururu, agapira k'ubururu, afite ingata ibanze mu rukoma rw'icyatsi, agiye kumufasha kuyishyira ku mutwe ngo yikorere agende.

Icyumba kirimo abantu batanu, abakobwa bane n'umugabo umwe, bose bambaye udupira tw'ubururu, amapantaro y'umukara bari guseka bishimye, hagati yabo hari icyapa kinini cya UNICEF, kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'inyuguti zandikishije umweru.

Abaturage bahagaze hamwe bakikijwe n'ibyatsi inyuma yabo, abagabo abenshi bambaye ingofero mu mutwe, abagore ibitambaro, bahagaze bafite impapuro ndende zanditseho, bakoze udutsiko, abagore ukwabo, abagabo ukwabo, bari kuzerekana.

Abaganga batatu, babiri b'abakobwa n'undi umwe w'umuhungu, bari mu gikorwa cyo gufata abaturage amaraso yo mu rutoki babapima ndetse nyuma y'aho hari n'ushinzwe umutekano w'ibikorwa barimo.

Abaturage baje kwa muganga biganjemo ababyeyi n'abana babo. Bambaye udupfukamunwa, bicaye ku ntebe ku murongo. Buri umwe umwe arahaguruka akagenda, agasanga muganga uri ku meza akamwakira.

Ku ivomo rusange riri inyuma y'inzu y'amatafari, igisenge cy'ibyatsi, abakobwa babiri harimo uwambaye igitenge, bari gufashanya kwikorera indobo y'icyatsi ipfundikiye bavuye kuvomesha.

Umuganga ufite agasatsi gakeya uri kumwenyura, yambaye itaburiya n'udupfukantoki tw'umweru yicaye, imbere ye hari udukarito twinshi, afashe ikiganza cy'umuturage.

Abagabo n'abagore bambaye amataburiya y'ubururu bakoze kimwe cya kabiri cy'uruziga mu mirongo ibiri irebana bose bazamuye amaterefone yabo bari kuyerekana, hagati muri bo harimo umugabo muremure wambaye ikote rya kaki n'ipantaro y'umukara.

Icyumba kinini kirimo ameza begeranyije, abana bambaye imipira isa n'umuhondo n'iy'ubururu, bicaye ku mikeke bakoze uruziga bari kumwe n'abantu bakuru bicaranye, hari n'abagabo babiri bicaye ku ntebe.

Icyumba kinini kiri mu ibara ry'umuhondo, amadirishya afunguye n'umuryango, hateraniyemo abantu, bamwe baricaye abandi barahagaze, hagati muri bo hari umugabo uhagaze, wazamuye ikiganza ari kuvuga.

Abaturage bari mu murima w'urutoki ukikije aho bavomerara, baritegereza umubyeyi w'umugore uri gufasha umwana kubona amazi kuri nayikondo ngo abashe kuvomera ijerekani ye y'umuhondo.

Abagabo babiri bambaye amakote n'amapantaro by'imikara, bahanye ibiganza byombi, umwe afite telefone mu kuboko kumwe, undi ibitabo, bari gusuhuzanya bishimye.

Imbere y'inzu ifite ibendera ry'u Rwanda, hateraniye abaturage b'ingeri zose, abagabo, abagore, hari n'ihema, muri bo harimo abambaye ibibaranga mu ijosi, umwe muri bo, ari kuvugira kuri terefoni.

Ku ivomo rusange abanyeshuri bari mu kigero kimwe abakobwa n'abahungu, bambaye imyenda ya kaki baje kuvomera indobo zabo z'imihondo n'akajerekani kamwe, harimo n'abari gukaraba intoki.

Icyumba kinini, kirimo abagabo n'abagore. Bicaye mu buryo bakoze amatsinda ku meza. Imbere yabo hari mudasobwa, udukarine bari kwandikaho ibyo bari kugenda baganira mu nama yabo.

Ku ivomo rusange riri ku gikuta, aho itiyo nini izana amazi. Abana batoya batatu bari mu kigero kimwe, bishimiye gukaraba amaboko yabo banezerewe. Iruhande rwabo hari igiti kinini cyane gifite amashami y'icyatsi.

Umwana usutamye wasetse amenyo akagaragara ateze ibiganza byombi ku ivomo rusange, amazi ari kumenekaho, imbere ye hari ibijerekani bibiri by'umuhondo n'ikindi kimwe cy'ubururu gifite agafuniko gatukura.

Ku ivomo rusange rifite aho bavomera hatatu, amazi ariho arameneka, abaturage bahateraniye n'ibivomesho byabo birimo ibijerekani n'indobo, hari umugabo wambaye ingofero y'umuhondo y'ubwirinzi, uri kubafungurira amazi.

Ku itiyo rinini ry'umukara, riri kumena amazi, amaboko abiri y'uruhu rwirabura, ateze ibiganza, amazi ari kujya ajyamo akameneka, hasi hariho n'udutonyanga ku kuboko kumwe, bigaragara ko amazi yamutarukiye.

Abagore bateraniye mu cyumba kimwe, gifite inkuta zishushanyijeho, umwana, inzu, ibiti, bamwe begereye ameza, undi umwe yifashe mu mayunguyungu, yambaye isaha ku kaboko, ari kureba imbere yasetse.

Abaturage babiri umugore n'umugabo, bishimiye kuvoma amazi bakoresheje ibijerekani ku ivomo rusange ndetse n'umufatanyabikorwa wabo arahari areba uko bishimye mu gihe bari kuvoma ayo mazi bahawe.

Abana batoya bane bateze ibiganza hejuru y'ibase ntoya, umugabo ari inyuma yabo afite igikombe ari kubasukira amazi ngo babashe gukaraba intoki, na bo byabashimishije bari guseka.

Umubyeyi w'umugore ufite umusatsi w'umukara wambaye umupira w'umweru, uteruye umwana w'igisekeramwanzi utaramera amenyo, wishimye w'agasatsi gakeya n'amaso manini y'umukara.

Ababyeyi babiri umugabo n'umugore bafite umurwayi mu maboko yabo umugabo amwigamije ku rutugu umugore amufashe mu maboko bigaragara ko ari umurwayi unanutse cyane bari mu nzira bagenda bari kumwe n'umwana mutoya.

Umugore uhagaze iruhande rw'igikuta cy'amatafari ahiye, n'imisatsi, yambaye amadarubindi, umukufi mu ijosi, yambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo n'ubururu, ukuboko kwe kw'iburyo kuriho ibikomo n'impeta, gufashe ikimuranga yambaye mu ijosi, ari kucyerekana yamwenyuyeho gato.

Umunsi urimo umucyo, abaturage bateranye, abagore abagabo ndetse n'abana, bagaragaza ibyishimo, bazamuye amaboko hejuru arimo ibendera ry' u Rwanda bagaragaza ibyishimo kuri uwo munsi.

Inzu ngari isize irangi ry'umweru amadirishya manini atanga ubuhumekero, imbere yayo hari ibyapa byinshi kimwe cyanditseho inyuguti ziri mu ibara ritukura, murakaza neza ndetse n'izindi ziri mu ibara rijya kuba umukara ko ari ibitaro by'akarere bya munini.

Umugore ukiri muto w'agasatsi gake, wambaye igitenge n'agapira k'umuhondo, yicaye ku kirago kizinze, ukuguru kwe kumwe kuzirikishije umunyururu ufashe ku giti.

Icyumba kinini cy'amahugurwa, giteraniyemo abantu benshi bicaye ku ntebe zegamirwa, imbere yabo hari umugore ufite imisatsi igwa ku rutugu, ari kubigisha akoresheje ikoranabuhanga, ibyo abereka bikajya ku rukuta imbere yabo.

Icyumba kirimo umugabo n'umugore wicaye ku ntebe y'ubururu ashyize amaboko ku meza atwikirije igitambaro cy'muhondo, hariho icupa ryamazi rya plastic ribonerana, imbere y'umugabo hari mudasobwa ari kurebamo.

Umugore w'umusatsi mukeya, wambaye ishati y'amaboko maremare, ukenyeye igitenge, yicaye mu nzu ku rubaho munsi y'idirishya rifunguye, riri ku gikuta cyatangiye gusenyuka ku buryo amatafari agaragara, imbere ye hashashe ikirago.

Umugabo wicaye ukuze wambaye ingofero ishati yumweru irimuturongo umwitero wumuhondo afite icumu rya kinyarwanda ribaje mu giti yasetse cyane ariko amenyo ye arimo ibihanga.

Icyumba kirimo abagore batatu bicaye ku meza, babiri bambaye ibitenge bateruye abana bakiri batoya, undi umwe wambaye ipantaro n'umupira muremure w'amaboko, imisatsi igwa ku rutugu, ari kubaganiriza.

Abantu benshi bahagaze ku murongo, bambaye impuzankano za gipolisi, abandi ni imyenda isanzwe, bahagaze imbere y'ikigo gishinzwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no kubuza abana uburenganzira bwabo.

Abagabo babiri, umwe yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'amabara, undi yambaye imyenda icikaguritse, isengeri gusa n'akandi gahishe ku kibuno, imisatsi irashwambaguritse, bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe, bari gusuhuzanya.

Umugabo ukuze wambaye umupira utukura n'ikabutura y'ikoboyi wicaye hasi afite utuvi dukeya, inyuma ye hari umupolisi n'abandi bantu benshi bashungereye bamurambitseho amafoto y'undi muntu.

Umusaza ukuze wambaye ingofero y'ubwoya bwinshi mu ruhanga n'ishati y'ubururu n'umwitero w'umuhondo, ari guseka yishimye, agaragaza ibihanga mu menyo ye.

Ababyeyi b'abagore bitabiriye amahugurwa, imbere yabo hari umugabo uri kubasobanurira ndetse agenda yandika n'ibyo avuga, ku gikuta cy'inzu barimo hariho igipankarite, cyanditseho intego z'ayo mahugurwa, kiriho idarapo ry' Amerika ni iry' Uburundi.

Ikirango cy'umuryango w'abanyeshuri biga ku buzima bwo mu mutwe mu Rwanda. Kigizwe n'umutwe ugaragaramo utuyenyeri n'ubwonko, umutwe ufite ibara ryiganje ry'ubururu.

Ikirango cy'ikigo cy'inzobere mu buzima bwo mu mutwe, Wihogora, kiri mu mubumbe w'umuhondo ukeye, wahobewe n'amaboko abiri y'umweru, agaragaza ibiganza.

Iruhande rw'inzu y'amatafari ahiye, imiryango y'icyatsi, hari umukecuru utetse ku mashyiga arimo inkwi, ateretseho isafuriya y'umukara, iruhande rwe hari ibikombe bibiri, icy'icyatsi n'icy'ubururu n'umufuniko.

Abasore n'inkumi bahagaze ku murongo ku buryo bose bagaragara, bambaye udupira tw'ubururu turiho ibara ry'umweru, hagati muri bo hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, ku ruhande umugore wambaye ikote rya kaki, ipantaro y'umukara, abenshi muri bo bashyize amaboko imbere.

Abana bishimye kandi baseka bose bari mu kigero kimwe cy'inshuke, ku mutwe wabo nta musatsi uriho, abenshi muri bo bambaye amashati y'icyatsi afite akabara gatoya k'ubururu imbere mu gatuza.

Umubyeyi w'umumama wakunje isura cyane nk'umuntu warakaye, yafunze umunwa akanura amaso, mu mutwe we ateze igitenge, ku matwi ye yambaye amaherena, biragaragara ko atishimiye ibintu ari kureba.

Umugabo n'umugore bari mu nama, inyuma yabo hari ibyapa bine bigaragaza ko ari ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, umugabo yambaye agapfukamunwa, umugore afite indangururamajwi ariho aravuga.

Umugabo w'uruhu rwirabura udafite umusatsi, wambaye ishati ndende y'igitenge, wamanuye amaboko impande zombi, yegamye ku gikuta cy'umweru araramye, areba hejuru.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, ipantaro y'umukara imbere ye hari indabyo arunamye nk'umuntu uri gutanga icyubahiro, inyuma ye hari urukuta runini rw'umukara rwanditseho inyuguti nyinshi mu ibara ry'umweru.

Amahugurwa yateguriwe abagore ku byerekeranye no kwita ku buzima bwo mu mutwe aho bakorera ni amahugurwa yateguwe ku bufatanye bw'imiryango myinshi irimo Yuwesayidi ndetse na Arabisi.

Ikiganiro cyateguwe na RBC, ku bigendanye n'umunsi wahariwe kwizihiza ubuzima bwo mu mutwe. Ni ikiganiro cyitabiriwe n'abagore n'abagabo mu gusobanura ibigendanye n'uwo munsi.

Abagabo n'abagore bakoze imirongo abakuze imbere bicaye ku dutebe dutukura, inyuma yabo hari urubyiruko rwiganje abenshi bambaye imipira yumukara bahagaze kuburyo buri wese agaragara.

Iruhande rw'imodoka ifite irange ry'icyatsi n'umukara hari umugabo ugaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe, wisize ibintu by'umukara mu maso no ku kuboko, ufite ibintu by'imyanda wambaye imyenda icikaguritse hose.

Umugore w'imisatsi y'umukara n'amaherena, wambaye agakote k'umukara n'ikanzu itukura ufite ikimuranga mu ijosi wa huje amaboko yishimiye kwifotoreza imbere y'icyapa kinini cyanditseho ngo inshuti mu buzima.

Umugabo wicaye mu nzu yegamiye igikuta, kiriho agati gateretseho amashusho menshi, afite umusatsi mukeya, yambaye umupira w'umukara, yapfutse mu maso akoresheje ibiganza bye byombi.

Umukobwa w'imisatsi ibishye ifungiye hejuru yambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare yacuritse umutwe areba hasi, ibiganza bye byombi bifashe umusatsi we.

Umugabo wicaye ku mukeka uriho na karingiti. Yambaye igitenge, agapira k'ubururu karimo uturongo tw'umweru. Aziritse amaguru ukuboko kwe kumwe gufashe mu ruhanga rwe, mu mutwe.

Umukobwa wicaye ku ntebe y'urubaho, uteze igitambaro mu mutwe kigaragaza umusatsi, yicaye areba ku ruhande rwe rw'ibumoso, inyuma ye hari igikuta gishushanyijeho ururabyo, ruri mu mabara y'umuhondo n'icyatsi.

Icyapa cy'Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Ubuzima cyerekana uko gitanga ubufasha ku buzima bwo mu mutwe. Uhereye ku mujyanama w'ubuzima, ku kigo nderabuzima, ku bitaro by'akarere, iby'intara, ibyo ku rwego rw'Igihugu, nyuma ukajya mu nzobere.

Umugabo ugaragara nk'ufite uburwayi bwo mu mutwe, imisatsi isambaguritse, yicaye mu mugende w'amazi, iruhande rwe, hari ibijerekani ndetse mu ntoki ze harimo amashashi, yambaye igitenge akizengurukijeho nk'aho ari ikanzu.

Icyumba kirimo abitabiriye amahugurwa b'ingeri zose, biganjemo urubyiruko, bicaye batuje, bambaye imipira y'umukara ifite ikimenyetso mu gatuza.

Ababyeyi babiri umwe ateruye umwana ukiri mutoya. Undi afite igipimo mu kuboko kw'iburyo mu kuboko kw'ibumoso harimo terefone ku bibero bye hariho ibitabo, Ari kwereka uteruye umwana ibyanditse mu gipimo.

Umugabo ufite imisatsi itarimo isuku na nkeya, ishwambaguritse, ubwanwa bwinshi cyane bwamwereyeho, ishati icikaguritse ndetse mu gatuza ho nta kintu na gito kiriho, bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe kandi arasamye.

Umugabo w'agasatsi gake, amadarubindi, ishati y'amaboko maremare, uruhande rumwe ni kaki urundi ni umukara, wambaye ipantaro n'inkweto zifunze ahagaze imbere y'inzu imiryango yayo yose irafunze.

Ikirango kiri mu ibara ry'icyatsi ritsitse, umutwe w'umweru harimo inyuguti zanditse mu ibara ry'icyatsi ritsitse ndende, umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe ukwezi k'ukwakira umunsi wa cumi.

Umugabo w'uruhu rwera uhetse agakapu, ahagaze iruhande rw'igikuta kiriho icyapa kinini mu magambo yanditswe mu ibara ry'umukara n'iry'ubururu ko ari abihaye imana baba bagabo, ibitaro by'i Ndera.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi w'uruhu rwirabura warize amarira agashoka ku matama amaso yatukuye ibimyira byashotse mu mazuru yambaye amaherena aragaragara nk'ufite agahinda.

Umwana muto w'umunyeshuri wambaye imyenda y'umweru n'ubururu, yicaye ku ntebe n'ameza by'umuhondo, imisatsi ye isutse, ari guseka amenyo agaragara, mu kiganza cye cy'ibumoso harimo igisuguti naho iburyo yatamiye ikindi, ari kukirya.

Umugabo ukiri mutoya wambaye imyenda isa nabi, nawe ubwe arasa nabi. Yicaye ku ikarito yarambuye iri mu myanda, yegamiye igikuta cyanditseho amagambo menshi y'umwanda, iruhande rwe hari imyanda myinshi.

Icyumba kinini cyahuriwemo abagabo n'abagore, bicaye ku buryo bw'uruziga nk'abari gukora amahugurwa, harimo abahagazemo hagati, bafite ibyo bari gusobanurirwa, buri umwe umwe wese, afite igitabo ndetse n'agacupa k'amazi.

Umubyeyi w'umugore usutse inwere mu mutwe, wambaye ishati y'igitenge, ari muri butike, ahari etajeri irimo ibicuruzwa nk'amavuta, uburoso bw'amenyo ndetse n'ibirungo bijya mu biryo.

Umwana wikoreye amaboko mu mutwe, warize amaso ye atukuye, amarira agashoka ku matama, ugaragaza agahinda, ari ahantu hari abantu benshi, inyuma ye hari umubyeyi, ufite inkwi mu kaboko kamwe, akandi ari kugahereza umwana mutoya uri imbere ye.

Umwana mutoya uraramye yasamye, umuganga wambaye itaburiya, y'umweru, udupfukantoki tw'umweru, wambaye amarinete, ufite ibikoresho byabugenewe ari kumusuzuma amenyo.

Umugabo w'umusatsi mukeya, amaso manini, uruhu rwirabura, ubwanwa buke munsi y'akananwa yasetse agaragaza amenyo, muri yo harimo urudodo rwagenewe gusukura amenyo afatishije ibiganza byombi.

Abagabo n'abagore bari mu nzu, inyuma yabo hari icyapa cy'umweru cyanditseho inyuguti eshatu zigenda zisubiramo, bamwe barahagaze, abandi bari imbere yabo bicaye hasi bazamuye ibiganza abandi intoki ebyiri basetse cyane bishimye.

Umugabo w'uruhu rwirabura, ufite agasatsi gakeye, yambaye umupira w'amaboko maremare w'icyatsi cyijimye, yasetse amenyo agaragara, yatunze urutoki ku kantu afite ku kaboko k'iburyo ari kukatwereka.

Umusore w'umusatsi muke wambaye agapira k'umweru, ari kwireba mu ndorerwamo yafunguye umunwa amenyo agaragara, mu biganza bye byombi harimo urudodo rwagenewe gukora isuku mu menyo ari kurucishamo.

Umwana muto, ufite imisatsi myinshi, arasamye amenyo agaragara, umuganga wambaye udupfukantoki tw'icyatsi, afashe ibyuma mu biganza bye byombi, ari gukoza mu kanwa k'umwana, ngo asuzume ibyo arwaye.

Umwana mutoya w'inzobe, wicaye ku ntebe itukura, arasamye ngo barebe mu kanwa. Uwambaye udupfukantoki tw'icyatsi, ari kwitegereza amenyo akora kuri buri ryinyo ngo arebe uko bimeze.

Icyumba kirimo irangi ry'umweru, ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo umugabo wicaye ku ntebe yegamirwa, ufite agasatsi gakeya, uri kumwenyura, wambaye agapira k'umweru.

Umukobwa w'uruhu rwirabura ufite imisatsi ifungiye inyuma isutse, wambaye amaherena mu kuboko kwe kw'ibumoso harimo indorerwamo ukw'iburyo gukoze ku kananwa ari kureba uko isura ye yabaye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibyuma bifasha muganga kuvura abarwayi, harimo mudasobwa imufasha kureba amashusho yerekanwe n'ibyo byuma, harimo icupa rijyamo umuti ufasha muganga gukaraba intoki igihe arangije kuvura umurwayi.

Umwana w'umukobwa ukiri mutoya w'inzobe, w'imisatsi y'umukara ifunze n'amaherena ku matwi yagiye kwa muganga yasamye muganga wambaye akarindantoki k'umweru, afite ibikoresho byabugenewe amusuzuma mu kanwa.

Umugabo w'agasatsi gake n'ubwanwa wambaye umwenda wo kurarana w'umukara, ari kwireba mu ndorerwamo yo mu bwogero yasamye kugira ngo abashe gusukura amenyo ye.

Abantu bambaye udupira tw'icyatsi twanditseho ngo tubiteho bicaye ku meza, imbere yabo hari umuti wo koza amenyo, inyuma yabo hari abambaye udupira tw'umweru n'udupfukantoki tw'umweru, bari kugenda bareba kuri buri menyo ya buri umwe umwe.

Abagabo n'abagore bari mu cyumba cy'ishuri, umwe muri bo wambaye itaburiya y'umweru iriho ibirango bya Kaminuza y'u Rwanda, ari kwerekera umunyeshuri uteruye ikibumbano cy'amenyo, uko bayoza neza bakoresheje uburoso.

Umukobwa ufite umusatsi muremure w'umukara ugera ku ijosi, yasamye aseka atunze intoki ebyiri ku menyo ye yakoreye isuku, bigaragara ko nta ndwara iyarangwamo.

Icyumba kirimo ibyuma bifasha umuganga gusuzuma umurwayi, umuganga wicaye ku gatebe gatoya gafite amapine k'icyatsi, gasa n'intebe y'umurwayi, yambaye itaburiya y'umweru n'isaha ku kuboko, yamwenyuye gake cyane agaragaza amenyo.

Umukobwa w'agasatsi gakeya, amaso manini, uruhu rwirabura yazamuye amaboko ahuza intoki ebyiri z'ibiganza byombi azifatira ku munwa, ariho araseka yerekana amenyo.

Icyumba kinini gisize irangi ry'umweru ku bikuta, urugi rwa kaki, utubati twometse ku rukuta, harimo icyuma kinini cyo gusuzuma umurwayi, n'intebe y'umurwayi yicaraho yigiye hejuru, kuri icyo cyuma hariho mudasobwa.

Mu cyumba kinini abaganga babiri uw'umugore n'uw'umugabo bambaye amataburiya, uturindantoki, bari kumwe n'umwana muto wicaye ku ntebe, yasamye bari kureba mu kanwa ke.

Umusore ufite umusatsi wambaye umupira w'umukara, araryamye yasamye amenyo agaragara, abaganga babiri bambaye udupfukantoki tw'ubururu, bafashe ibikoresho byabo bari kumusuzuma mu menyo.

Umugabo ufite igitambaro gihanagura amazi ku rutugu rwe, yasamye agaragaza amenyo ye, mu biganza bye byombi, harimo akadodo gashinzwe gusukura amenyo.

Ibyuma byinshi birambitse hasi biri mu ndeshyo, ingano itandukanye bakoresha mu buvuzi bw'amenyo bayakura, bayahoma cyangwa bayasuzuma.

Abana bambaye udupira twanditseho tubiteho, bicaye ku ntebe imbere yabo hari imiti yoza amenyo, umugore wambaye agapira gasa n'akabo, arahagaze yoza amenyo akoresheje uburoso ari kubereka uko bakwiye kubigenza.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, amarinete, iherena ku zuru, afite irindi ku gutwi n'ubwanwa bukeya yasetse, ariho aratunga urutoki rwe ku menyo ye, asa neza.

Umugabo w'uruhu rwirabura wishimye, wasamye agaragaza mu kanwa, afite akagozi kabugenewe gashinzwe gukura umwanda mu menyo, ariho aragakoresha ngo awukuremo.

Umugabo ukiri muto w'uruhu rwirabura ufite agasatsi gakeya, ubwanwa buke mu mpande zombi no ku munwa, wambaye agapira kajya kuba ubururu bwijimye, yasetse cyane amenyo agaragara nk'uwishimye.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, ibiganza bitatu bifashe ibikoresho biri ku kibumbano cy'amenyo, bari gukora umwitozo ugaragaza uko bakura amenyo ndetse bakanayahoma.

Icyumba kinini, gisize irange ry'umweru, igisenge kirimo amatara menshi acanye, inzugi zirangaye, harimo ibyuma byinshi bitandukanye bifiteho mudasobwa, utubati tw'umweru ku bikuta.

Abana batoya b'abanyeshuri, bose bari mu kigero kimwe, bafite agasatsi gakeya, bambaye imyenda y'ishuri, hejuru ni ishati irimo amabara y'umweru n'icyatsi, hasi ni ikabutura y'umukara, bari koza amenyo bakoresheje uburoso, bafite n'ibikombe by'amazi.

Umusore w'uruhu rwirabura, ubwanwa bukeya, umusatsi mukeya wambaye agapira k'umweru yasetse cyane agaragaza amenyo, amaso ye ameze nk'ahumirije.

Umugabo w'umusatsi mukeya w'umukara, yicaye ku ntebe basuzumiraho abarwayi asa n'ugaramye yerekana amenyo, iruhande rwe hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, udupfukantoki tw'ubururu, ugaragaza akaboko gusa afite icyuma yifashisha asuzuma amenyo.

Umusore w'agasatsi gakeya ku mutwe, utambaye umwenda n'umwe mu bitugu bye, yasetse agaragaza amenyo, mu biganza bye byombi hari urudodo, bifashisha kuyasukura, arufatiye imbere y'umunwa we.

Abagore batatu bagaragaza ko bakuze bari mu kigero kimwe, uwo hagati ubarusha imisatsi miremire ho gato, afashe terephone mu ntoki, bose barebamo ngo bifotore banezerewe bishimye.

Abagabo babiri bagaragara ko bakuze umwe yambaye ingofero mu mutwe n'ishati y'amaboko maremare, undi yambaye agapira k'ubururu gaciye amaboko, bari kugenda baganira bafatanye ku rutugu mu nzira ikikijwe n'ibiti byinshi.

Ababyeyi babiri bari mu gikoni umwe ariho ara atunganya ibyo guteka byo mu bwoko bw'imboga, undi nawe ari kumuganiriza afite icyo kunywa, bigaragara ko bishimye, mu gikoni kandi harimo n'isaha y'urushinge ku gikuta.

Umukecuru w'agasatsi gakeya ariko kose k'imvi wambaye urunigi, agapira k'ubururu n'umwitero w'umweru, afashe indangururamajwi ari kuvuga areba ku ruhande, inyuma ye hari imodoka ebyiri.

Umugabo n'umugore bakuze bicaye ku meza, imbere y'umugore hari mudasobwa, umugabo afite agacupa mu ntoki ari kukitegereza imbere ye hari impapuro n'uducupa dutoya tubiri tw'umweru.

Umugabo n'umugore bafite imisatsi mikeya, bambaye udupira duciye amaboko, bari kugenda birukanka, bafunze ibipfunsi, bakora imyitozo ngororangingo, amaboko yabo bose y'ibumoso ariho amasaha.

Umugabo ukuze, wambaye umupira w'umukara, ipantaro ya kacyi, urukweto rumwe mu kaguru, ari kugenda mu byuma bimufasha gutambuka ari kumwe n'umugore ufungiye imisatsi inyuma uri kumwereka uko babigenderamo.

Umugabo ukuze ufite imvi n'iminkanyari myinshi mu gahanga, wambaye amadarubindi n'umupira w'amaboko maremare ufunguye, yicaye ku meza mu biganza bye harimo ikaramu arimo kwandika.

Umuryango w'abantu batanu, harimo umugabo n'umugore bakuze, bafitemo n'akana gatoya gafite imisatsi myinshi, barahagaze, bose bareba imbere, baseka.

Abagabo n'abagore bahagaze munsi y'igiti, bari gukoma amashyi, barishimye, umugabo umwe ari guhereza undi akaboko amushimira ku bikoresho bahawe birimo: utugare, intebe, imbago z'abafite ubumuga.

Mu cyumba kirimo umurwayi uryamye, ku kuboko kwe kw'ibumoso hariho imashini iri kumufatira umuvuduko w'umutima, ku ruhande rwe rw'iburyo hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Umukecuru n'umusaza bafite imvi bicaye kumeza iriho ibinini, ikirahure cy'amazi, umukecuru afashe agapapuro mu ntoki ari kwereka umusaza ufite ibinini mu kiganza cy'iburyo, icy'ibumoso gifashe agacupa k'umweru.

Abagore babiri bari mu gikoni, umwe ugaragara ko akuze ufite imvi wambaye amadarubindi, ari gukata imboga, undi ukuboko kwe kumwe gufashe ku itama, ari kumwitegereza, ukundi gufashe igisorori cy'ikirahure.

Abagabo bagaragara ko bose bakuze, bicaye mu ntebe z'imisego zegamirwa, hanze begamiye igikuta, abenshi muri bo bafite inkoni zitwazwa n'abantu bakuru, abandi bambaye utugofero, mu mitwe yabo.

Umugabo ukuze wambaye ishati y'ikigina, ipantaro y'umukara imbere ye hari ameza aricaye, ku kuboko kwe kw'ibumoso gufashe ku kuguru kw'ibumoso yambaye akuma kamufasha gupima umuvuduko we w'amaraso.

Icyumba kirimo abagore n'abagabo bakuze bicaye ku meza abiri atandukanye, umusore ari gucunga mu kagare umugabo ukuze uri kumwe n'umugore bari kuganira ku meza amwe, imbere y'abo hari amafunguro.

Ni umurima wi'cyayi gitoshye gifite ibara ry'icyatsi, abagore bambaye udutambaro mu mutwe, bari ku murongo, basoroma, banaga mu gitebo kibarimo hagati bose bishimye.

Abagabo n'abagore bateraniye hamwe bicaye, imbere yabo hari abasaza babiri bambaye ingofero biteye imyitero, bambaye amashati maremare, umwe ari gukoma amashyi, undi yambaye amadarubindi.

Umugabo ukuze, ari gukina umukino wa damu, aragaragaza ko yamaze gufata inka mu ntoki, agiye gukina, inka ze zigizwe n'amabara abiri, hari inka ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'izindi ziri mu ibara rya kaki, agiye gutangira gukina.

Umuryango wishimye, bigaragazwa n'uko bose bari guseka, barimo umugabo ufite imvi mu mutwe we, n'umugore bari mu kigero kimwe, barimo kandi umugore n'umugabo, bafite abana ku mugongo wabo, bose barishimye baseka.

Kwa muganga umugabo ukuze ufite imvi mu mutwe ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'umukara, ari kumufasha kugenda mu byuma byabugenewe ngo abashe gutambuka amuha amabwiriza y'uko akwiye kubigenza ngo atambuke.

Umuganga w'umukobwa, wambaye imyenda y'ubururu, ufite imisatsi iboshye, ari kumwe n'umusaza ugaragara ko akuze, ari kumufatira ibipimo by'umuvuduko w'amaraso ku kaboko ke k'ibumoso, bicaye mu ntebe bose.

Umusaza w'imvi wambaye amarinete n'umupira w'umukara aricaye. Imbere ye ku meza hari amazi ari mu kirahure n'ibinini. Arikumwe n'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo uri kumusomera ibyanditse ku rupapuro.

Abagore babiri bambaye bambaye imipira y' amaboko maremare n' amapantaro, umwe afite agatambaro gatukura mu mutwe undi afite imisatsi iboshye ifungiye inyuma, bari gukora urugendo rw' amaguru nk' umyitozo ngororamubiri.

Umugabo ukuze ufite imvi mu musatsi we yicaye mu kagare k'abafite ubumuga cyangwa batabasha kugenda kubera uburwayi, ari kumwe n'umukobwa ugenda amusunika amutembereza muri ako kagare baragenda baseka bigaragara ko bishimiye urwo rugendo.

Umugabo ukuze w'imvi z'umweru mu mutwe wicaye ateruye umwana ufite igikinisho mu ntoki ze, bahuje imitwe y'abo, amazuru akoranaho bigaragara ko bari gukina kandi bishimye.

Abagabo n'abagore bicaye ku ruziga mu ntebe za plastique, munsi y'igiti kinini cy'inganzamarumbo, hagati muri bo hari ufite mudasobwa, uri imbere yabo uri kubaganiriza.

Ababyeyi b'abagore bagaragaza ko bakuze harimo n'abafite imvi umusatsi wose bicaye hasi, babiri bicaye ku ntebe za purasitike z'umweru bakikijwe n'urutoki aho bicaye.

Abagabo n'abagore bahagaze bari gukoma mu mashyi, bishimira ubufasha buhawe umugore ukuze ukenyeye igitenge, witeye n'ikindi, wambaye n'agatambaro mu mutwe.

Umugabo n'umugore bakuze bafite imvi bose, umugabo afite telefone mu ntoki bari gusoma, umugore afite urupapuro, imbere yabo hari uducupa dutoya duteretse ku meza n'ikirahure cy'amazi.

Umubyeyi w'umumama ari kumwe n'umwana ufite imisatsi myinshi ifunze, imbere yabo kumeza hari udukinisho twinshi, umubyeyi ari kugenda amwereka ko ashobora kudufatanya tukavamo ishusho nziza kandi igaragara.

Umugabo ukuze ufite imvi mu mutwe, yicaye ku meza afite telefone mu ntoki ari kuyitegerezamo, ari kumwe n'umugore ufunze imisatsi indi ayirekuye, imbere yabo hateretse icupa riringaniye ry'umukara.

Umugabo ukuze ufite imbe nkeya yicaranye n'umukobwa w'umuganga umufashe ku rutugu, yamuhaye ukuboko kwe kw'iburyo ngo amufatire umuvuduko w'amaraso, bari kurebana bose baseka.

Mu cyumba kinini kirimo abakuze abagabo n'abagore, umugabo ukuze uri mu kagare k'abatabasha kugenda kubera ubumuga cyangwa uburwayi, ari kumwe n'umuganga ukiri muto w'umukobwa uri kumutembereza muri ako kagare, amwereka ibiri hanze.

Umugore w'imisatsi miremire y'umukara igwa ku rutugu wambaye marineti, ishati y'umuhondo, imbere ye yazinze udupamba adutereka ku meza, hari agacupa kateretse, mu kiganza cye afite agacupa ari kugenda asuka kuri iyo pamba.

Abantu bamwe bicaye mu bwatsi b'abagore, abandi bicaye ku ntebe za pulasitike, babiri ni abagore, undi ni umuzungu w'umugabo uteruye umwana, bari kwitegereza umugore wicaye mu bwatsi, ari kuboha agatebo.

Umugabo ukuze ufite imvi umutwe wose ndetse no mu bwanwa ari mu mazi aricaye asinzirije ku mutwe we hari amaboko abiri ari kumufasha kwiyuhagira umubiri wose.

Umugabo ukuze ufite utuvi duke mumutwe wicaye mu kagare k'abatabasha kugenda kubera ubumuga, ari kumwe n'umwana w'umukobwa ufite imisatsi myinshi mu maboko yabo bombi harimo igikinisho bari kuganira bishima.

Umugabo w'umuzungu wambaye umupira utukura, ufite imvi mu mutwe ufite amarinete, ari kumwe n'umugore ugaragaza ko akuze ufite imvi mu mutwe, bari kwitegereza ibinini biri ku meza bagenda bapfundura kimwe kimwe.

Mu gikoni abantu batatu barimo umugore ukuze ufite imvi mu mutwe n'undi ufite imisatsi isutse ifungiye hejuru, wambaye amadarubindi ufashe umwana mu kuboko kwe kw'iburyo, bose basetse bishimye.

Imbere y'inzu irangaye hicaye abana babiri bato b'abakobwa bafite ibisuguti bari kumwe n'umusaza w'imvi nyinshi mu mutwe wicaye ku gatebe gatoya, mu biganza bye byombi afitemo ibisuguti bibiri.

Umugore ugaragara ko akuze, imisatsi yiganjemo ibara ry'umweru, yasetse agaragaza amenyo, yambaye umupira w'amaboko maremare ufunguye, arambuye amaboko, mu biganza bye afashe utwuma tw'icyatsi turi kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo ukuze ufite imvi nkeya mu mutwe no mu bwanwa, ari kumwe n'umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru yafashe akaboko ke no ku rukutugu rwe, ari kumufasha kugorora ingingo ze z'akaboko.

Abakobwa babiri bagaragara ko bakiri batoya, bicaye imbere y'ameza, hagati muri bo hicaye umumama ugaragara ko ari mukuru, imbere yabo hari amakarita, bari gukina, baseka, babiri muri bo bayafite mu ntoki.

Umukecuru wambaye ikanga ry'umuhondo n'icyatsi uteze agatambaro k'umweru mu mutwe, wambaye n'agashati k'umweru, yicaye hanze acanye ku mashyiga, afite udusafuriya tubiri tw'umukara kamwe gapfundikiye akandi, acanye akoresheje ibikenyeri.

Umugore ukuze, w'imisatsi mikeya y'umukara, wambaye agapira k'umweru kagaragaza igituza, mu kuboko kwe kw'ibumoso ateruye akuma kamufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Abaturage b'ingeri zose, abagabo n'abagore, bicaye bakoze uruziga, mu ntebe za purasitike n'urubaho, bateze amatwi ubari imbere, ufite mudasobwa, waje kubaganiriza, munsi y'igiti kinini k'inganzamarumbo.

Umugore ukuze wicaye imbere ye hari ameza ateretseho ikirahure agifatishije ukuboko kumwe, ukundi guteze ikiganza ngo yakire ikinini ari guhabwa n'umuganga w'umukobwa wambaye imyenda y'akazi y'ubururu.

Abagore batandatu bose bambaye ibitenge bicaye, imbere yabo hari inyanya ziri mu mabase zikikijwe n'ibikarito inyuma yabo, hari amaronji y'umuhondo umwe muri bo utambaye igitambaro mu mutwe ari kuvuga.

Umugabo wambaye umupira muremure w'amaboko, ingofero n'amadarubindi. Afite igipapuro mubi biganza bye byombi cyanditseho amagambo mu nyuguti nini cyane zitukura ko bakeneye urukingo rw'ubushita bw'inkende.

Ababyeyi b'abagore bateruye abana bicaye begamiye igikuta kiriho amashusho, batatu muri bo bambaye ibitambaro mu mutwe, undi umwe afite agasatsi gakeya bose bakenyeye ibitenge.

Ku munsi w'isuku hari abantu basuye abana b'abakobwa bicaye, bose bambaye udupira dufite ibara ry'iroze ndetse n'udupfukamunwa, bariho barahabwa ibikoresho babazaniye, bigendanye n'isuku ku bakobwa.

Abagore n'abagabo bicaye batuje mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari abayiyoboye, abagore babiri n'umugabo bicayemo hagati, inyuma mu rutugu rwabo, hari ikirango kinini kigaragaza ko byateguwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima.

Abantu benshi b'igitsina gore bambaye imipira y'umweru, basutse imisatsi igwa mu mugongo, bicaye ku ntebe z'umweru, bateraniye mu cyumba kinini, imbere yabo hari undi wambaye ipantaro y'umweru n'agakote k'umukara, ariho arabasobanurira.

Abantu benshi bari mu muhanda ukikijwe n'ibiti birebire bari gukora urugendo biganjemo abagabo n'abagore bambaye udupira tw'umweru duciye amaboko, bafite ibyapa byanditseho twirinde kanseri y'ibere tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira.

Mu cyumba cyo kubagiramo, umurwayi aryamye ku gitanda, abaganga, abagore n'abagabo bambaye udupfukamunwa, ingofero, imyenda yabo, bari kumwitegereza, bareba uko mugenzi wabo ari kumuvura.

Inzego z'ubuzima uko zikurikirana mu buvuzi, uhereye ku bajyanama b'ubuzima bo mu gace, ibigo nderabuzima, ibitaro by'akarere, ibitaro bikuru ku rwego rw'intara, ugasoreza ku bitaro bikuru ku rwego rw'igihugu.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu bwiganje n'umweru, kiriho inyuguti nini ya H mu ibara ry'umweru, ibiganza bibiri bifatanye bikoze inyuguti ya P n'inyuguti ya R nini y'umweru, kivuga ubuzima bwiza ku baturarwanda.

Abagore n'abagabo baje kwisuzumisha, bambaye udupfukamunwa, bicaye imbere y'abaganga bambaye ibyo kwirinda, ikote ry'ishashi, agapfukamunwa, ikirahure mu maso, buri muntu yicaye ari kumwe n'umuganga we, babiri babiri.

Ibitabo birambitse hamwe, iruhande rwabyo, hari ikaramu ndende y'umukara, imbere hari urushinge, ku rundi ruhande hari icyuma gifasha abaganga gupima uko umutima utera kirambitse hejuru y'ibitabo.

Abagore babiri bicaye ku meza, umwe ufite imisatsi miremire isutse n'agapira k'umukara, yatanze ukuboko kwe kw'ibumoso aguhereza uwambaye itabuririya itukura, ari kumufatira ibipimo by'umuvuduko w'amaso.

Umugabo wambaye ikote n'ipantaro bisa ahagaze imbere arikuvuga ari mu nama ya kabiri igendanye n'ubuzima muri rusange kuri afrika, ibyo ari kuvuga nawe ubwe birikujya bigaragara ku gikuta imbere.

Mu cyumba kinini cy'inama abantu bicaye batuje, abayiyoboye bari imbere: abagabo batatu, abagore babiri, umwe muri bo afite indangururamajwi ari kuvuga, inyuma yabo hari icyapa kinini kigaragaza intego yayo.

Abantu benshi bateraniye hamwe bicaye, imbere yabo hari ababyinnyi, abagore n'abagabo bazamuye amaboko, inyuma ku gikuta hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru n'umutuku cyandikishijeho inyuguti ndende zitukura.

Abagabo n'abagore bateraniye mu cyuyumba kinini k'inama, imbere yabo hari abagabo bane n'abagore babiri, inyuma ku mugongo wabo hari icyapa kinini cyanditseho ko ari Ikigo k'Igihugu cy'Ubuzima mu Rwanda cyateranyije inama ku bushakashatsi buteye imbere mu buzima.

Abantu benshi, abagabo n'abagore bicaye mu ntebe batuje, imbere yabo hari abandi bane, abagore batatu n'umugabo umwe, inyuma yabo hari ibirango biranga ko bari mu nama mpuzamahanga ya makumyabiri, ku cyorezo cya SIDA muri Afurika.

Mu cyumba kinini kiganjemo amabara y'umuhondo n'umukara werurutse n'iroze ku nkuta z'icyo cyumba n'igisenge kirimo amatara menshi, hateraniyemo abagabo n'abagore bicaye batuje ku ntebe zitukura.

Abagabo babiri, abagore babiri, batatu muri bo bafashe udukingirizo tw'ubwoko butatu umuhondo, ubururu, umutuku bafite icyapa cyanditsehoho kwirinda ni byo bigezweho.

Abagabo n'abagore biganjemo abambaye imipira y'umweru, imipira y'ubururu, amapantaro y'umukara, bakoze umurongo bari kumwe nabo basuye, imbere y'icyapa cyanditseho intego z'uruzinduko rwabo.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite igikoresho gipima uko umutima utera ku rutugu, yishimiye gusura abaturage mu gice cy'icyaro, afite ibyo ari kubasobanurira kandi yanezerewe.

Inzu nziza y'umuhondo y'abihayimana, yagenewe kwakira abafite ibibazo byo mu mutwe. Imbere yayo hari uturabyo ndetse n'amadirishya yayo arimo ibitambaro bikingirije bituma utareba mu nzu mo imbere.

Abagore batatu, bahagaze, bamwenyuye gakeya, bambaye imyenda isa y'ubururu, utugofero tw'umweru, inyuma yabo, hari ibiti bitandukanye, birimo imikindo ibiri miremire.

Icyumba kinini gifite inkuta zisize irangi ry'umweru, hateretsemo ibyuma bitatu, umugore wambaye agapfukamusatsi, itaburiya y'umweru, ipantaro y'umweru, ari gukora mu cyuma kimwe gifunguye gifite ibara ry'umweru n'ubururu, inyuma ye hari ameza abiri.

Inyubako iri mu mabara y'umuhondo n'ivu ridakeye, iriho icyapa kigaragaza ko ikorerwamo ubucuruzi bwa farumasi ndetse n'ibigo bakorana, mo imbere muri yo harimo abantu baje kugura imiti.

Inzu nini yumuhondo, amabati yubururu, amadirishya yicyatsi imbere yayo harimo ikigega cyumukara kijyamo amazi yimvura, ifite ubusitani bunini burimo igiti cyumwembe kikiri gitoya.

Umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru, udupfukantoki tw'umweru, afite urushinge ari gutera umusore w'agasatsi gakeya, wambaye isengeri, wamanuye ishati ngo batere urushinge ku rutugu rwe rw'ibumoso.

Icyumba kinini kirimo amadirishya atanga akayaga, kirimo ibitanda biriho ibara ry'ubururu n'ibitambaro bikikije buri gitanda, ku buryo uri ku gitanda kimwe atabasha kureba uri ku kindi.

Mu cyumba kinini kirimo imashini, agatanda k'umurwayi, mudasobwa ziri ku nkuta, abaganga barimo abagabo n'umugore umwe bari kwitegereza ifoto iri muri imwe muri izo mudasobwa bahawe n'iyo mashini.

Icyumba kinini kirimo ibyuma bitandukanye byinshi, mudasobwa iri kwaka, agatebe k'umukara, umugabo wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa k'umukara, ahagaze imbere y'icyuma kimwe ari gukora mu gakarito afite mu ntoki.

Icyumba kinini kirimo ibyuma bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi bw'amaso, harimo intebe aho umurwayi yicara n'aho muganga yicara amusuzuma ndetse na mudasobwa zifashishwa mu kureba amashusho avuye mu maso.

Icyumba kinini kiriho amadirishya ku nkuta zacyo atanga akayaga, kirimo intebe bazinga igihe batazicayeho, ni icyumba kigaragaraho ko gishobora kwakira inama, ubukwe cyangwa ibindi birori.

Inzu y'amatafari y'umweru, ifite imiryango y'ibirahure, yose ikinze, amatara abiri mu mpande zombi y'umuhondo n'umukara, handitseho inyuguti ziri mabara menshi ko ari ibitaro bisuzuma abana bakiri bato.

Inzu y'amatafari ahiye, uruhande rumwe rusize irangi ry'umweru n'iry'umuhondo, handitseho amagambo mu nyuguti ndende z'ubururu ko ari aho bafatira ibizamini bitandukanye by'abarwayi, imbere y'aho hicaye abantu ku ntebe ndende y'urubaho.

Icyumba kinini gifite irangi ry'umweru, igisenge cy'umweru, hasi aho ibintu biteretse h' ubururu, utubati twegamye ku bikuta tubiri tw'umweru, hateretsemo imashini nini, umurwayi yinjiramo bamusuzuma aryamye.

Mu cyumba kinini kirimo icyuma gitanga umuyaga harimo ibyuma bimeze nk'utubati, bimwe muri byo birafunguye, utubati twabyo turimo amashashi ariho ibipapuro by'umweru arimo n'ibintu bitukura, hejuru y'ibyo byuma hagiye hari itara ritukura.

Inyubako ifite imiryango myinshi ifunguye umwe muri yo bakoreramo gucuruza imiti, ni farumasi irimo imiti myinshi igaragara itondetse ku murongo.

Abaganga benshi bambaye imyenda y'ubwirinzi, ibisarubeti, udupfukamunwa, ingofero, bari mu cyumba kirimo umurwayi uri ku gatanda wiyoroshe ishuka y'umweru.

Inzu y'amatafari ahiye urugi rw'umweru, amadirishya y'umweru akinguye, ikiziringiti cy'umweru cyandikishijeho inyuguti ziri mu ibara ry'ubururu zigaragaza ko ari aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Abaganga b'abakobwa batandatu bose bambaye imyenda y'akazi y'ubururu n'udupfukamunwa, bari imbere y'ibitaro bya Legacy, bazamuye ukuboko gufunze igipfunsi berekana ko bashoboye.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi, kuri buri kimwe hariho inzitiramibu imanitse izinze n'igitambaro cy'ubururu gikingiriza buri gitanda.

Abasore n'inkumi bambaye amashati y'imyeru, amapantaro y'imikara n'ubururu, bafite udutebo muntoki turimo impapuro z'umweru, bari kwinjira mu nzu ndende ifite ibirango by'izina ryayo, iri mu ibara ry'icyatsi.

Inzu nini y'amatafari ahiye, ifite irangi ry'umuhondo werurutse n'amabati y'ubururu, handitseho mu nyuguti ndende z'ubururu ko ari ikigo nderabuzima cya Shagasha, imbere yayo hicaye ababyeyi babiri bari kumwe n'abana babo batoya.

Icyumba kinini gifite amadirishya y'ibirahure afunguka azanamo akayaga muri cyo, gifite ibikoresho byinshi by'amabara atandukanye, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororangingo.

Inzu ndende y'amatafari ahiye igeretse kabiri, ifite amadirishya n'inzugi ebyiri muri zo zirafunguye, hariho icyapa kinini kiriho inyuguti zanditse mu ibara ry'icyatsi ko ari ibitaro, hasi imbere hahagaze abantu babiri bambaye imyenda yiganjemo ubururu.

Inyubako ndende iri mu ibara ry'umweru, ifite igisenge cy'umukara, kuri yo hariho inyuguti ziri mu ibara ry'umukara, zigaragaza ko ari inyubako yagenewe iby'ubushakashatsi mu buvuzi, imbere yayo hari imodoka y'umukara ndetse n'ubusitani.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo imashini zifashishwa mu kubaga abarwayi, harimo mudasobwa, hakabamo ibitara binini byo gufasha abaganga kureba abarwayi, harimo n'amashashi y'ubururu, iy'umweru n'iy'umutuku ajyamo imyanda ku buryo butandukanye.

Inzu ndende igeretse gatatu, hejuru yayo hari ibigega by'umukara by'amazi ndetse n'iminara, ku mbuga yayo haparitse imodoka, imwe iriho irasohoka, ushinzwe gukingurira imodoka ari kuyifasha gukingura ngo isohoke.

Umugore uhagaze ku mbuga akenyeye igitenge iruhande rw'imodoka, inyuma ye hari ababyeyi babiri bambaye ibitenge banabyiteye, iruhande rwabo hicaye umusore wambaye ikoboyi y'ubururu n'umupira w'imbeho w'amaboko maremare utukura.

Inzu nini y'amatafari ahiye n'igisenge kinini kiri mu mabati y'umweru, imbere yaho hari icyapa kirekire cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru n'icyatsi, ku mutwe hari amagambo agaragara cyane ko ari ibitaro bya polisi.

Icyumba kinini kigari gifite inzugi n'amadirishya birangaye ku buryo byinjiza umwuka uhagije, bifite igisenge cy'umweru kirimo ibyuma byinshi byagenewe gufasha abaje gukora imyitozo ngororamubiri.

Mu cyumba kirimo abarwayi babiri b'abagore bari ku bitanda, harimo muganga wambaye itaburiya y'umweru, ari kuvugisha umurwayi umwe wicaye ku gitanda amufashe ku rutugu.

Inyubako ndende y'umweru ifite amabati y'ubururu, ikagira idarapo ry'u Rwanda ku ruhande rwayo ndetse n'ubusitani imbere yayo, ifite ikirango cyanditse mu nyuguti z'umukara ziri ku nkingi zitukura zigaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Kanyinya.

Inzu nini, ifite imiryango ibiri, icyapa kigaragaza ko icuruza imiti, mo imbere harimo abantu, baje kugura imiti, muri bo harimo umubyeyi uhetse umwana ufite n'undi mu ntoki.

Mu cyumba cy'ishuri hateraniyemo abagore n'abagabo, umwe muri bo yambaye itabuririya y'umweru iriho ikirango cya kaminuza y'u Rwanda n'agapfukamunwa katari ku munwa, ari kumwe n'umwana w'umunyeshuri wambaye ishati y'icyatsi, uteruye ikibumbano cy'amenyo, ari kumwereka uko wayoza neza ukoresheje uburoso.

Inyubako ndende igeretse igaragaraho ibirahure by'ubururu, imbere yayo hari imikindo ibiri miremire ndetse n'uruzitiro, hejuru yayo hari inyuguti ndende z'icyatsi zigaragaza ko ari ibitaro bya Plateau.

Icyumba kinini gifite inkuta z'umweru, igitambaro kinini cya kaki gikingiriza aho umurwayi aba ari, harimo imashini ifiteho mudasobwa bakoresha basuzuma umurwayi n'agatanda k'umukara aryamaho.

Abagabo benshi n'abagore babiri bambaye bose udupfukamunwa, bahagaze ku mbuga iri imbere y'inzu ya Isange y'amatafari ahiye n'amabati y'ubururu ni iy'ibitaro bya Kabutare,

Amazu menshi ari ahantu hamwe, afite igisenge gitukura, imbere yayo hari ibendera ry'u Rwanda hahagaze imodoka, igiti kinini kiri mu busitani, hakaba icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'ay'umukara, ko ari kaminuza y'u Rwanda ishami ryo kwigisha ibitaro bya Butare.

Abagabo n'abagore bakuze bicaye mu cyumba kinini ku ntebe zimbaho, imbere yabo hari abagabo batatu umwe arahagaze babiri baricaye, mu mugongo wabo hari icyapa kivuga ngo icyumweru cyahariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abakuze.

Etajeri ndende z'ibyuma zipanze ku mirongo ibiri irebana, hagati yazo harimo akandi gatoya hagiye harimo imiti ipanze ku buryo bw'amabara, isa iri ukwayo ingana nayo iri mu gice cyayo.

Igiti kirekire kinini cy'inganzamarumbo giteye mu kabaraza k'amabuye, kari mu busitani buri imbere y'amazu ari kwaka amatara, afite inkingi zihagazeho abantu.

Inzu ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, igisenge cy'umweru, irimo utubati twinshi turi ku murongo dusize irangi ry'umweru n'icyatsi, mo imbere harimo udukarito ndetse n'amacupa y'imiti.

Inyubako ngari y'amatafari ahiye, igice kimwe isize irange ry'umweru, amadirishya afunguye, imbere yaho hari icyapa kiri mu mabara y'umweru n'umutuku, handitseho ko ari icyicaro gikuru cy'ishami rishinzwe kwakira amaraso.

Icyapa kirekire kiri mu mabara abiri iry'umweru ryiganje n'ubururu bwijimye, cyanditseho amagambo ari mu nyuguti ndende ko ari ibitaro byo kwa Nyirinkwaya. Kiri imbere y'inyubako ifite igice kimwe kiriho ibirahuri.

Ikirongozi kinini kirimo ibipande bibiri, kimwe kiriho ibitanda bifite amapine by'abarwayi, buri kimwe gikingirijwe n'umwenda w'umweru n'icyatsi utuma umwe atareba undi, ahandi hari aho abaganga bicara bari kureba abarwayi.

Mu cyumba cyo kwa muganga, umugore wambaye itaburiya ijya kuba ubururu agapfukamunwa, inyuma ye hari igitanda cy'amapine kiriho umurwayi uryamye azamuye amaguru, utagaragara igice cyo hejuru, harambitseho n'indi myenda ifite ibara ry'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bine by'abarwayi, hariho matera zifite ibara ry'umukara, harimo akabati k'umweru n'ubururu, hariho n'utuntu bashyiraho serumu kuri buri gitanda.

Icyumba kinini kiri mu ibara ry'umuhondo, mu madirishya yacyo, harimo ibitambaro bituma uri hanze atareba mo imbere mu nzu, kirimo ibitanda bine, inzitiramibu eshatu zizinze, muri ibyo bitanda bibiri biriho ababyeyi babiryamyeho, umwe yiyoroshe igitambaro cy'ubururu.

icyumba kinini kirimo intebe z'imisego zegamirwa, giteguyemo ibiti by'icyatsi, ameza atatu atandukanye mu ngero ya kaki, iy'umweru n'iy'umukara.

Ikirongozi kirekire kigizwe n'inkuta ebyiri, zisize irange ry'umweru n'igisenge cy'umweru kirimo amatara yaka, hagiye hariho imiryango myinshi ya kaki n'ikizingiti cya kaki.

Inzu nini y'umuhondo ku ruzitiro rwayo hari umuryango w'icyuma ufunguye, inkingi ndende ziri mu ibara ry'umweru, n'inyuguti ndende ziri mu ibara ryijimye, ryanditseho ko ari ikigo nderabuzima cya Kigina, imbere yaho hari umubyeyi uhetse umwana ufite agashuka k'umweru.

Mu cyumba umuganga wambaye itaburiya y'umweru agapfukamunwa k'ubururu, arikumwe n'umwana utambaye mu gituza, ari kumusuzuma umwana yasetse. Hepfo ye hicaye umusore wambaye ikabutura n'agashati gatoya k'amaboko magufi n'igitambaro mu mutwe, ari guseka areba umwana.

Icyumba kinini cyo kwa muganga gisize irangi ry'umweru, kirimo ibyuma byinshi byifashishwa basuzuma umurwayi, ibitanda bibiri by'amapine kimwe kiriho umurwayi uryamye.

Umuganga wimisatsi mikeya ku mutwe iboshye, wambaye itaburiya y'umweru, udupfukantoki, ari gukora umwitozo wo kumva uko umutima w'umwana utera mu nda y'umugore utwite.

Inyubako ndende y'umweru, ifite amadirishya y'ibirahure iruhande rwayo hari igiti k'icyatsi ndetse n'utwapa dutatu tw'imyenda twanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo, tugaragaza izina ry'iyo nyubako.

Icyumba gisize irangi ry'umweru ku nkuta, n'urundi rumwe rusize icyatsi cy'ijimye, harimo ibitanda bibiri, aho byegamiye hasize irangi ry'ubururu ry'ijimye, ku ruhande gifite n'imiryango ibiri ya kaki.

Inyubako ngari y'amatafari ahiye, igisenge kiri mu mabati y'ubururu, iruhande rwayo hari ubusitani buteyemo igiti, imbere hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'akabara gatoya k'ubururu, gishinze mu tubuye dutoya tw'umweru.

Inyubako ebyiri ziri ku mirongo ibiri itandukanye zubatse zirebana ziri mu irangi ry'umweru igisenge gitukura hagati muri zo akabaraza k'ibati imbere yazo hari ubusitani burimo indabyo ku ruhande hari urukuta rw'amabuye ruriho akabaraza.

Umugore usutse imisatsi uteruye agahinja kari mu myenda y'umweru, ari kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa, akarindamusatsi bari kwitegereza agahinja bagakora mu kiganza.

Abakozi babiri bambaye amataburiya y'umweru, udupfukamunwa, uturindamusatsi, bari imbere ya mudasobwa icometse ku mashini, bari kwereka ababasuye barimo n'abazungu bambaye udupfukamunwa ibyo imashini yabo ikora.

Etajeri nini z'ibyuma ziri ku bikuta, zirimo udukarito twinshi dutandukanye, buri gatsinda k'imiti isa y'ubwoko bumwe kagiye kazirikishijwe fimbo.

Icyumba kirimo ibyuma byinshi cyo kwa muganga, harimo agahinja kakiri gato cyane, umuganga wambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero y'umweru, yagafashe akaboko k'iburyo ariho aragasuzuma, aseka.

Inzu y'amatafari ahiye, imbere ahagaragara hari irange ry'umuhondo ryanditseho inyuguti ndende mu ibara ry'ubururu ko ari inzu y'ababyeyi, urugi rwayo ni umuhondo rurafunguye, imbere hari intebe ebyiri bicaraho z'imbaho.

Icyumba gisize irange ry'umweru ku nkuta, kirimo igitanda gifite amapine, gishashe neza, iruhande rwacyo hari akabati gafite ibara ry'umweru n'ubururu, ku rundi ruhande hari aho bakarabira intoki n'aho bashyira imyanda.

Inzu nini ifite imiryango ikinguye y'ibirahure, irimo amadarubindi apanze mu tubati, harimo umukobwa wakira abahaje aricaye yegamiye igikuta gitukura.

Amazu menshi y'amatafari ahiye ari ahantu hamwe, yose afite igisenge cy'amabati y'umweru, hagati muri yo harimo ikigega cy'amazi cy'umukara, ku irembo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu buhiye, cyanditseho ko hari ibitaro bya Kabgayi.

Inzu nziza ifite umuryango w'umweru ukinguye imbere yayo hari ibiti by'imikindo by'icyatsi, ku gikuta handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ko ari inzu y'abihayimana yakira abafite ibibazo byo mu mutwe.

Abagabo babiri bicaye umwe ari gufatira undi umuvuduko w'amaraso ku kuboko kw'ibumoso, inyuma ye hari icyapa kinini cyane cyanditseho ngo irembo, naho umufatira umuvuduko w'amaraso inyuma ye hari utwuma tubiri dushinzwe kuzimya umuriro, dutukura.

Imbere y'inzu ifite irange ry'amabara menshi, yanditseho inyuguti ndende z'umweru ko ari ivuriro ry'abana, hahagaze abagabo n'abagore biganjemo abambaye udupira tw'icyatsi, imbere yabo hari abandi batatu bahahagaze bambaye udupfukamunwa.

Umwana muto w'umukobwa wambaye ishati y'umweru, ufite udusatsi duke na maherena, yicaranye n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru usutse imisatsi, ufite agapfukamunwa, yamuhaye ukuboko kwe kw'buryo, ari gushyiraho icyuma kimufasha gupima umuvuduko wamaraso.

Inzu iri mu mabara abiri atandukanye n'amadirishya manini y'ibirahure ku buryo ubasha kurebamo imbere, imbere yayo ku muryango wayo w'ikigina, hahagaze abantu barimo abagore babiri n'umugabo, mo imbere muri yo urabona abandi batatu babiri bambaye amataburiya y'umweru n'undi umwe wambaye imyenda y'ubururu.

Inzu nini y'amatafari ahiye imbere ifite irangi ry'umweru amabati y'ubururu yanditseho amagambo ari mu nyuguti nini z'ubururu ko ari inzu y'ababyeyi yo kubyariramo.

Icyumba kinini gisize irangi ry'umweru kirimo ibitanda byinshi biri ku murongo, bitandukanijwe n'agakuta gatoya gasize irangi rya oranje, kuri buri gitanda hari inzitiramibu imanitse ariko izinze.

Inyubako isize irangi ry'umweru igice kimwe ikindi ni ubururu bwijimye, handitseho amagambo arimo inyuguti ndende z'umweru ko ari Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, imbere yaho hari uturabyo twinshi tw'icyatsi.

Inyubako y'umweru n'ubururu bwijimye ifite isuku, imbere yayo hari uduti dutoya tw'icyatsi kuri yo hari amagambo agaragara mu nyuguti z'umweru ko ari ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge.

Icyumba kinini gisize irangi ry'umweru, igikuta kimwe kiriho utubati tw'umweru, harimo imashini nini, abagabo babiri bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa tw'ubururu, bari kuyitegereza.

Icyumba kinini gisize irange ry'umweru, igisenge kiriho amatara yaka, urukuta rwacyo rumwe ruriho amadirishya y'ibirahure, agaragara ko imbere harimo ama etajeri y'ibyuma afite amapine.

Ikirongozi kinini gifite ibikuta biri mu ibara ry'umweru, igisenge kirimo amatara atandukanye, amanini n'amatoya, umuryango munini ufunguye uriho utumenyetso turi mu ibara ry'icyatsi, n'undi muto ufunze uriho utumenyetso turi mu ibara ritukura, ku mpande hariho ururabyo runini r'wicyatsi.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, nk'amamashini afiteho mudasobwa, ndetse n'igitanda kiriho amashuka y'umweru, umusego w'umweru, amadirishya atanga umucyo muri icyo cyumba.

Icyumba kinini kiri mu ibara ry'umweru, kirimo igitanda gifite amapine kiriho akamatora k'ubururu gatwikirije ishuka y'umweru, gakikijwe n'imashini ebyiri ziriho mudasobwa, zifite n'amapine.

Ikirongozi kinini, gisize irangi ry'umweru ku bikuta, igisenge kiriho ibipirizo by'umweru n'ubururu, harimo intebe abarwayi bicaraho bategereje, urukuta rumwe ruriho ijisho n'ibiganza bibiri biri kuvura iryo jisho.

Abagabo n'abagore bakikije icyapa kiri hagati yabo, kigaragaza ko bari imbere y'ibitaro bya Butaro, bahagaze mu busitani mu buryo bubemerera gufata ifoto bose bagaragara, abenshi muri bo ni abazungu.

Abarwayi babiri, bari kwa muganga, baryamye ku bitanda, bari mu byuma bibongerera umwuka, bifashe ku mazuru yabo, umwe ariyoroshe, undi ntiyiyoroshe, yahinnye amavi ku buryo ubona amaguru ye n'amatako.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru n'agapira k'ubururu uri ku igare, ahetse umugore ufite indobo y'ubururu, bari imbere y'Ikigo Nderabuzima cya Gisenyi, bari kwitegereza abantu bagiyeyo.

Mu cyumba kinini cya Laboratory, abanyeshuri bambaye amapantaro y'imikara, amataburiya y'umweru, uturindantoki tw'ubururu, bari gukora imyimenyerezo y'ubutabire, bamwe barahagaze abandi baricaye, bari kwitegereza ibyo abandi bakora.

Icyumba kirimo ibyuma bitandukanye, abaganga batatu, babiri b'abagabo, umwe w'umugore, umurwayi uryamye ku gatanda, umutwe yawushyize mu biganza by'umuganga wicaye uri kumuvura.

Inyubako isize amarangi atandukanye, harimo iry'ivu rikeye, umweru, iroze ryerurutse, umuryango wayo ufunguye, hateretse intebe eshatu zitukura, ifite inkingi enye zisa.

Inzu ndende y'umweru igeretse ifite inkingi z'umuhondo wijimye, kuri zo hari amagambo yanditse mu nyuguti ndende z'umukara ko ari ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, imbere yacyo hari abantu baje kwisuzumisha.

Abagabo babiri bambaye udupfukamunwa tw'umukara, baryamye ku dutanda two kwa muganga, bari mu ihema, bari kumwe n'abaganga babiri, bambaye amataburiya y'umweru, udupfukantoki n'udupfukamunwa tw'ubururu, bari kubitaho.

Abantu benshi bari gutambuka imbere y'uruzitiro rw'ibyuma rurimo amatafari, muri rwo harimo amazu menshi akikijwe n'ubusitani, hari n'icyapa cyanditsweho inyuguti ndende ziri mu ibara ry'ubururu ko ari ibitaro bya Ruhengeri.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri by'amapine bitandukanyijwe n'ameza afite amapine, kuri buri mutwe wa buri gitanda hari mudasobwa, hariho n'igitambaro gikingiriza buri gitanda ku buryo buri muntu atarebana n'undi.

Umusore wakoze imyitozo ngororamubiri ufite isaha y'umukara ku kuboko kw'ibumoso, wambaye isengeri iri mu ibara ry'ivu, ahuje ibiganza bibiri yifata mu mutwe ku gice cy'inyuma.

Ikiganza cy'ibumoso cyambaye impeta kiriho inzara zisize ibara ry'iroza ryerurutse, gifashe ishashi kiri gukanda ukuboko ku iburyo ahagana mu nkokora.

Ibikapu bibiri biri mu ibara ryiganje ritukura, umukara n'akabara gato k'umweru, kimwe muri byo kirafunguye, kirimo ibikoresho by'ibanze by'ubutabazi umuntu akenera, nk'umukasi bande cyangwa igipfuko igihe yakomeretse.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, umugabo ashyize amaboko yombi imbere arunamye ahese umugongo ahagaze kukaguru kamwe k'iburyo ak'ibumoso akarambuye inyuma ye.

Abagabo n'abagore bateraniye mu cyumba kinini bari gukora umwitozo wo gukorera umuntu ubutabazi bw'ibanze bane muri bo b'abagabo gusa bapfukamye hasi bari gutabara umwe muri bo uryamye hasi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, afite akuma gapima uko umutima utera ku rutugu rwe, mu biganza bye harimo umupira w'ikigina bakoresha bakina umukino w'amaboko.

Umugabo w'uruhu rwirabura wicaye mu busitani arambuye amaguru, wambaye agasengeri k'umukara utagaragaza igice cyo mu mu maso, amaboko ye yombi afashe ku birenge bye, ku gice cy'amano nk'umuntu uri gukora siporo yo kugorora umugongo.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi yubururu bwerurutse, agapfukamunwa, ari kumwe n'umurwayi uryamye yubitse inda, yamushyizeho icyuma kiririmo utugozi dufashe mu mugongo, ari kwitegereza iby'cyuma kiri kumwereka.

Umugabo w'uruhu rwirabura ufite ubwanwa buke, wambaye agapira gaciye amaboko k'icyatsi, yazamuye amaboko, afashe icupa ribonerana ririmo amazi, ari kuyimenaho mu mu maso yahumirije.

Abagabo n'abagore bateraniye mu cyumba bambaye udupfukamunwa n'utugofero turinda imisatsi yabo, bahagaze bareba televiziyo iri ku rukuta, irimo ishusho y'umuntu uri kuvuga, batatu muri bo bicaye ku meza ariho mudasobwa.

Abagabo n'abagore bari mu myitozo ngororamubiri bahinnye umugongo, amaboko bayerekeje imbere, bari ku mirongo, buri wese atandukanye n'undi ku kibuga gikikijwe n'ibiti bitanga akayaga.

Ikirahure kinini giteretse, gifite urugara runini rw'umweru, bari kugisukamo amazi arenda kuzura, ari kuva mu ijyage y'umweru nayo kandi y'ikirahure.

Umuntu wicaye agaragaza igice cyo hepfo cy'amaguru, yambaye umupira w'amaboko maremare, ufite ibara rya oranje, ukuguru kwe kw'iburyo, munsi y'ivi, hariho igipfuko afatishije intoki z'ibiganza byombi.

Umukobwa wicaye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro imwegereye y'umukara, agasengeri k'umukara, amaboko ye yombi akoze ku kuguru kw'iburyo, ku mano yahinnye ukuguru kw'ibumoso.

Bande y'umutuku w'amaraso iragaragaza ubushyashya. Bayikoresha bifashisha k'umuntu wavunitse. Iraryamye ntabwo ihagaze, mo imbere harimo akantu k'umweru izingiyeho.

Umugabo uri gukorera imyitozo ngororamubiri mu nzu. Yambaye agakabutura gatoya, kamufashe k'umukara, agasengeri k'umukara, apfukamishije ivi rimwe kandi yambaye ibirenge.

Insimburangingo z'akaguru zigaragara mu buryo butandukanye, uramutse wambaye inkweto zifunze nk'iza siporo cyangwa se inkweto zo kugenderamo nk'iz'ingozi cyangwa uramutse wambaye ibirenge gusa.

Udukapu tubiri turi mu ibara ritukura ryiganje n'umweru, hagati muri two hari icupa rinini ripfundikiye, kamwe kanditseho ko ari agakapu gakoreshwa mu butabazi bw'ibanze, inyuma yatwo hari abantu bicaye bagaragaza amaguru gusa.

Umugabo w'uruhu rwirabura, wambaye ipantaro y'umukara n'umweru n'agasengeri k'umukara n'inkweto z'umweru, ari gukora imyitozo ngororangingo, amaboko ye yombi afashe ku ivi ry'iburyo.

Abaganga b'abagabo babiri n'umugore umwe bambaye amataburiya y'umweru, bari mu cyumba cy'abarwayi bicaye ku bitanda, bari imbere y'icyuma gifiteho mudasobwa, bari kwitegereza ishusho iri mo imbere y'umuntu uri kuvuga.

Umugabo ufite imisatsi mike wambaye isengeri y'umukara iriho akabara gatukura, azamuye amaboko ukw'ibumoso gufashe ku nkokora n'ukw'iburyo na ko kuri gukora ku ruhande rw'ibumoso mu mugongo, ari gukora imyitozo ngororangingo.

Umugabo n'umugore bafite ibikapu by'imikara bambaye udusengeri n'amakabutura matoya y'imikara, umugabo aricaye azamuye akaboko nk'umuntu uri kunywa amazi na ho umugore azamuye amaboko nk'umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa ufite imisatsi miremire y'umukara ifungiye inyuma igwa mu mugongo, wambaye agapira k'amaboko magufi gatukura, yazamuye ukuboko kwe kw'ibumoso kurimo icupa ry'umweru ribonerana ari kunywa amazi.

Umukobwa yicaye hasi asobekeranyije amaguru, imbere ye hari mudasobwa, ku ruhande hari icupa ribonerana ry'amazi, hari n'utwuma tw'amoko abiri tumufasha gukora imyitozo ngororamubiri akoresheje ibiganza n'amaboko.

Mu cyumba kinini kirimo ibyuma byifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri, abagabo babiri umwe usutse aryamye ku gatanda yubitse inda, undi amuhagaze iruhande wambaye ingofero y'umukara.

Umugabo w'uruhu rwirabura ufite ubwanwa buke ku kananwa no hejuru y'umunwa, ahagaze araramye, afatishije akaboko ke k'iburyo agacupa k'umweru karimo amazi y'urubogobogo, ari kuyanywa.

Inkoni ebyiri ziberamye zifashishwa mu buryo bwo kugenda ku bantu bakuze bafite ubumuga bw'ingingo cyangwa batabona, zose zifite utugozi tw'umukara turenga kuri zo inyuma.

Imashini y'umweru iriho ubururu butanoze iriho aho batangirira, aho bahagarikira, irimo isaha mu imbere n'ibipimo bindi bigufasha gupima umuvuduko uri gukoresha.

Umugabo wambaye agapira, ipantaro byose by'umukara birimo akabara k'umweru, yicaye asutamye ahese umugongo nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hari undi umuhagarikiye wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'ubururu.

Umubyeyi w'umugore ateruye umwana wasamye yerekana mu kanwa. Ari imbere y'umuganga wambaye itaburiya y'umweru wafashe igikoresho asuzumisha gifite urumuri. Arikureba mu kanwa k'umwana. Inyuma y'umugore hari abandi babiri bahagaze bambaye udupfukamunwa.

Umugabo wambaye agakabutura gato k'umweru n'umutuku n'agapira k'umukara, aryamye ku gatanda, undi amufatiye akaguru k'ibumoso yagahinnye ari kumufasha gukora umwitozo ngororangingo.

Umukobwa uri gukora siporo yo kugorora umugongo. Kuri tapi ye y'ubururu bwijimye, aramanura ukuboko kw'ibumoso, agafata ku mano, akayakwega, hanyuma ukuboko kw'iburyo kugafata ku mugongo ku buryo urambuka wose.

Umukobwa ufite umusatsi muke ku mutwe wambaye agasengeri gafite ibara rijya kuba oranje uri, gukora imyitozo ngororamubiri yazamuye amaboko, ukuboko kwe kw'ibumoso kuriho isaha y'umukara.

Icyumba kirimo abantu babiri, uwambaye ikabutura araryamye, yazamuye akaguru k'iburyo ahina ivi, undi wambaye itaburiya y'umweru ari gukanda rya vi no ku itako, akoresheje ibiganza bye bibiri.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara utagaragaza ibice byo hejuru, wafashe ku kuguru kw'ibumoso yashyizeho ikiganza kirimo ishashi irimo ibintu by'ubururu, ari gukanda mu ivi.

Umukobwa ufite umusatsi muke ku mutwe, igitambaro cy'umweru gihanagura amazi ku rutugu, wambaye agapira gaciye amaboko, kavanze amabara ubururu, umweru, icyatsi n'umukara, agakufi mu ijosi, ukuboko kwe ku iburyo kurima icupawa ry'umweru, rifite aho banywera h'ubururu, yarizamuye ashyira ku munwa ari kunywa.

Icyumba kirimo abaganga babiri uw'umugore n'uw'umugabo ndetse n'umurwayi ugaragara ko yavunitse akaguru, harimo n'abayobozi babasuye bari kwitegereza ibikoresho biri kuri ako kaguru k'uwo murwayi wavunitse akaguru uryamye ku gitanda.

Umuntu w'uruhu rwirabura yunamye mu muhanda, yambaye agakabutura gatoya k'umukara kamwegereye, ibiganza bye byombi biri gukanda ivi ry'ibumoso, ukuboko kwe kw'ibumoso kwambaye isaha y'umukara.

Umugabo wambaye amasogisi y'umweru, ikabutura y'umukara, agapira k'umweru k'amaboko maremare, yazamuye ukuguru kwe kw'ibumoso agushyira ku rutugu rw'undi uri kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri, akanda itako rye.

Umugabo ufite ubwanwa butari bwinshi wambaye umupira w'amaboko magufi w'ubururu bwijimye, wambaye isaha ku kuboko kw'iburyo y'umukara, afite icupa muri uko kuboko ririmo amazi, ari kunywa amazi.

Umugabo uryamye hasi amaboko ye arambuye yambaye agakabutura

Umukobwa w'uruhu rwirabura, usutse imisatsi, ahagaze areba imbere, yambaye isengeri, akaboko ke k'iburyo gafashe ku nkokora y'ak'ibumoso kari gukora aho intugu zombi zihurira mu mugongo, ari mu myitozo ngororamubiri.

Icupa ry'umweru rya plastike rifite umunwa ujya kuba ubururu naho agafuniko gafata hatukura, riri gusuka amazi y'urubogobogo mu kirahure cy'umweru giteretse ageze muri kimwe cya kabiri.

Imipira myinshi bakoresha mu mikino harimo uw'amaguru (football), basketball, uwa rugby ndetse n'akatenesi na ga yo kugafata n'ingofero bakoresha mu kwirinda.

Mu cyumba kinini, gifite irange ry'umweru ku nkuta, hariho kizimyamuriro itukura, hahagazemo umugabo wambaye itaburiya y'umweru, uturinda ntoki, ufite ingofero nini yo kwirinda y'umutuku, iruhande rwe hari indi nini y'ubururu.

Icyumba kinini gisize irangi ry'umweru hose, kirimo imashini y'umweru ifite akabara k'ivu rikeye, imashini yagenewe gusuzuma umurwayi aryamye, ikamureba umubiri wose.

Umukobwa w'imisatsi miremire iboshye igwa mu mugongo wambaye agasengeri k'umukara, kora y'umukara, ari kwinanura yazamuye amaboko ye yombi ahumirije yicaye ku buriri mu cyumba.

Umugabo ukuze udafite umusatsi, wambaye agapira k'umukara gaciye amaboko, mu kuboko kwe kw'iburyo afite icupa ribonerana yarizamuye arishyira ku munwa, ari kunywa amazi.

Abagabo batatu bari imbere y'inyubako y'ibitaro, bambaye imyenda yiganjemo ubururu, umwe muri bo yuriye ku rwego, bari kumuhereza imigozi yo gushyira kuri iyo nyubako.

Umugabo uhagaze, uri gufasha mugenzi we wicaye, wamuhaye akaguru ke k'iburyo kavunitse, ari kumushyiriraho bande. Akandi kaguru kambaye urukweto. Kuruhande hari umukasi na bande icyuzuye batarakoresha.

Abagabo babiri bambaye imipira iciye amaboko y'ubururu, amakabutura y'umukara umwe aryamye hasi yazamuye ivi ry'ukuguru kw'iburyo, undi arapfukamye ari kumukanda kuri iryo vi, iruhande rwabo hari umupira w'amaguru.

Umugabo wambaye agakabutura gatoya, isengeri uri gukora imyitozo ngororamubiri yo kwirukanka bigaragara ko afashwa n'imboga n'imbuto nk'amakaroti, amashu cyangwa amaronji.

Umudari munini, urambitse hasi, uriho umushumi, iruhande rwawo hari ibinini biri mu kigero kimwe, bine biwurambitseho, ibindi biri hasi, ndetse hari n'urushinge.

Umukobwa wicaye hasi, yambaye kora y'umukara, isengeri, amaboko ye yose afashe ku kuguru kw'iburyo kurambuye, ukw'ibumoso yaguhinnye, ari mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo wicaye hasi, yambaye agakabutura gato, agasengeri k'umukara, amaboko ye yombi afashe ku kuguru kw'ibumoso, ku mano, no ku mfundiko, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibiribwa byinshi biri ku masahani abiri n'agatebo, hamwe harimo ishu, igitunguru, ibihumyo, ahandi imineke, inkeri, amagi, igice cy'inyama gitukura, byose biteretse hamwe.

Mu cyumba kirimo ibikoresho ndetse n'ibyuma byinshi, ushinzwe gufata amashusho aritegereza amashusho muri mudasobwa yafashwe n'ibyo byuma kugira ngo abashe gusobanukirwa icyo ayo mashusho yamwerekaga.

Ijage y'ikirahure irimo amazi menshi, ikiganza kiyifashe umukondo, kiri gusuka amazi y'urubogobogo mu kirahure, amaze kugera muri kimwe cya kabiri cy'ikirahure.

Umukobwa ugaragara nk'uri mu myitozo ngororamubiri, ufite imisatsi ifungiye inyuma, wambaye agasengeri, mu kuboko kwe kw'iburyo, harimo icupa rifite ibara rijya kuba ubururu n'umufuniko w'umukara, ari kunywa amazi.

Ikirango cy'umuryango w'umukino wo gutegana mu Rwanda, mu ruziga rukozeza ipfundo rw'ubururu harimo abantu babiri, umwe yambaye imyenda y'ubururu undi yambaye imyenda y'umweru bari gukina umukino wo gutegana mu mirasire y'izuba y'umuhondo.

Umukobwa usutse imisatsi ifungiye inyuma, harimo n'agatambaro k'umukara mu mutwe, yazamuye amaboko ahuza ibiganza intoki zicomekeranye ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibintu byinshi biri hamwe byifashishwa mu butabazi bw'ibanze, birimo agakapu k'ibara ritukura, umusaraba w'umweru mu ruziga, ibipfuko, uturindantoki tw'ubururu, umukasi, inshinge, ibinini n'ibindi byinshi byifashishwa mu gutabara.

Akadege gato gatukura, katagira ugatwara, kari mu kirere, gafite agakapu k'umweru kaririho ibara ritukura riri mu ruziga n'umusaraba w'umweru mo imbere.

Abantu bahuriye ku kibuga cy'imyidagaduro, gikikijwe n'insina, ni ku kirere cyiza, hari umucyo, bari kwitegereza abana baje kurushanwa mu mbyino, ndetse hari n'icyapa cy'ishuri.

Icyumba kinini gisize irangi ry'umweru kirimo icyuma kinini cyane gicanye urumuri rudakanganye hariho umurwayi uryamyeho ugiye guca mu cyuma ngo kimusuzume.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri yo kurambura amaguru n'amaboko. Yambaye inkweto z'umukara n'umweru, amasogisi y'umweru, agakabutura gatoya kamufashe k'umukara, isengeri y'umukara n'isaha ku kuboko kw'ibumoso.

Icyumba kinini gifunguye idirishya ku buryo umuyaga winjiramo, harimo umugabo wambaye umupira, ikabutura n'inkweto byose by'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri yazamuye akaguru k'ibumoso.

Ibikoresho byinshi byifashishwa mu butabazi bw'ibanze. Birimo: itoroshi, umukasi, ibipfuko by'ibisebe, uturindantoki, agapfukamunwa, igipimo gipima umuriro ndetse n'agakapu ko kubibikamo.

Ibinini biri mu bwoko butandukanye, ibitoya, ibinini, biri mu mabara y'umweru, umuhondo na oranje, iruhande rwabyo hari urushinge rupfundikiye n'amagambo avuga, turwanye gukoresha imiti mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa w'umusatsi utari mwinshi, uduherena dutoya ku gutwi, wabize ibyuya, ufite igitambaro gihanagura amazi ku rutugu, wambaye agasengeri, mu kuboko kwe kw'iburyo afite icupa ry'amazi ribonerana, ari kuyanywa.

Umugabo ukuze w'uruhu rwirabura, wambaye agapira k'umukara mu kuboko kwe kw'iburyo harimo agacupa ka pulasitike kabonerana, yazamuye ashyira ku munwa, ari kunywa amazi.

Umugabo uraramye w'agasatsi gake n'ubwanwa wambaye isengeri y'icyatsi, mu kuboko kwe kw'iburyo kugaragara ko kwakoze imyitozo ngororamubiri harimo icupa ribonerana rifite umufuniko w'umukara ari kurikanda amazi akajya mu kanwa ke.

Umugabo n'umugore bose bafite uruhu rwera rw'abazungu umugore ufite imisatsi myinshi umugabo ufite imisatsi mikeya bateranye imigongo bose banywa amazi bararamye uducupa banyweramo dufite iminwa y'ubururu.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, gifite utubati twegamye ku bikuta, kirimo icyuma byifashishwa mu isuzumiro gifite igitara kinini n'intebe y'umurwayi y'ubururu yicaraho bari kumusuzuma.

Ibikoresho byinshi bakoresha mu myitozo ngororamubiri nk'ibyo guterura, imigozi yo gusimbuka, bigiye biri mu ngero nyinshi zitandukanye. Harimo ibitoya, ibifite ibiro bikeya, n'ibifite ibiro byinshi nka makumyabiri.

Umwana muto wambaye agakote, ufite agasatsi gake, uraramye ufunze umunwa, ari kumwe n'umugore wambaye agapira gatukura wamufashe mu mutwe, amushyiraho icyuma akoresha asuzuma gifite urumuri ari kumwitegereza.

Igikapu cy'ibara ritukura ryiganje n'umukara cyagenewe kubika ibikoresho byifashishwa mu butabazi bw'ibanze, harimo umukasi, uturindantoki tw'ubururu, ibipfuko n'ibindi byinshi, mu mifuka yacyo yose harafunguye.

Akuma k'umweru n'umukara, gafasha abantu mu kugenda, gafite amaguru ane yigondoye, ariho udupine dutoya tw'umukara, gafite aho bafata kandi hose h'umukara.

Inkoni ndende y'icyuma yifashishwa mu kugenda n'abafite ubumuga bw'ingingo z'amaguru, aho ikiganza gifata no ku mpera zayo biri mu ibara ry'umukara, na ho aho inkokora zifata ni ibara ry'ivu rikeye.

Umuguri umwe w'inkweto z'umukara zifite taro ikomeye, amarase, uruhande rumwe ruriho imashini ituruka hasi ikagera hejuru, urw'iburyo ruriho akarango kari ku gapapuro kanditseho "Bato".

Ikirango cy'umuryango utabara imbabare wo mu Rwanda, kiri mu mabara y'umweru, umusaraba utukura, inyuguti zandikishije ibara ry'umukara rinini, biragaragara ko ari amahugurwa ya mbere y'ibanze ku mufasha ufasha abandi.

Amategeko n'amabwiriza agenga abakora imyitozo ngorora mubiri yaba ku mubiri ,yaba ibyo bitwaza, aho bakorera imikino yabo yose uko ikorwa n'amategeko abigenga.

Etageri nini y'icyuma kiririmo udukarito dutandukanye tugaragara ko ari imiti, udukarito tumwe n'umweru n'ubururu, utundi umweru n'umuhondo, utundi turimo umutuku n'umuhondo n'andi makarito abiri manini y'umweru yanditseho ibara ritukura.

Ishami ritoshye ry'ikimera cy'umuravumba, kigaragaza ibibabi binini bine n'utubabi dutoya tubiri turi hagati y'ibyo bibabi binini, biragaragara ko kikiri kibisi, gitoshye.

Umugore wambaye igitenge kirimo amabara menshi, ahagaze iruhande rw'uduti dufite uturabyo tukabije, ukuboko kwe gufashe ku kababi kamwe ko muri two.

Icyapa cyamamaza umuti ukoreshwa mu gusukura amenyo wa foreva, hariho amenyo asa neza agaragaza ko yogejwe n'uwo muti, hasi hari agacupa karimo uwo muti ndetse n'undi wo gupiriza mu kanwa.

Agasekuru gato, ka kizungu n'umuhini wako, biri mu mabara y'umukara n'umweru uvanze, biri hasi, iruhande rwabyo hari ibimera byinshi, bifite ibara ry'icyatsi, amababi manini n'udushami dutoya.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa, akarindamusatsi, wicaye, imbere ye kumeza hari amacupa menshi y'umukara n'udukarito, mu ntoki ze afite agakarito kamwe gafunguye.

Ku meza hateretse ibintu bitandukanye birimo udukarito tubiri, amacupa atatu ari mu bwoko butandukanye. Rimwe ririmo umutobe, irindi ni rito, irindi ririmo ibintu by'umukara, hateretse kandi agakombe k'ubururu gafite umufuniko utukura.

Etajeri nini cyane, irimo ibintu byinshi bitandukanye, uducupa dutoya, ibikombe, udukarito, buri kintu n'ubwoko bwacyo bigiye byegeranye, bikurikije uko bingana ibitoya ndetse n'ibinini.

Imboga z'amoko atandukanye harimo ibitunguru bitoshye by'amababi na brocoli y'icyatsi kijimye, ndetse n'izindi zijya kumera nk'amashu adafunze y'icyatsi gikeya.

Agacupa karambitse hasi kabonerana gafite umufuniko w'umweru, igipapuro cyikometseho cy'umweru kiriho akabara k'icyatsi, karimo umuti wagenewe gukaraba intoki ngo wice udukoko.

Ku isahane y'umweru iteretse hasi, hariho imbuto zitandukanye zirimo amaronji akase, hateretseho agacupa k'umweru gapfundikiye kariho ikirango cya forever.

Ibiti by'ibitsinsi bikase mu ngero zitandukanye bitatu, bimwe ni binini akandi ni gatoya, biteretseho amakarito ari mu mabara atandukanye, ashushanyijeho agakombe k'icyayi.

Mu murima uteyemo imbuto z'igikakarubamba, ukikijwe n'ibiti birebire n'ibyatsi, hahagazemo abantu, abenshi ni abagabo bambaye imipira y'icyatsi y'amaboko magufi, abandi babiri bambaye imyenda isanzwe, harimo n'umugore, bose bahagaze bareba imbere, bishimye.

Agacupa k'umweru n'icyatsi gapfundikije umufuniko w'umweru, kanditseho inyuguti nini zigaragara mu ibara ry'umukara FOREVER, hariho n'akanyugunyugu kuri ko.

Umukobwa wambaye itaburiya y'umweru ufungiye imisatsi inyuma, uduteye umugongo ku buryo tutabona amaso ye, iruhande rwe hari icyuma gikonjesha, akabati karimo ubuki, amafi atandukanye, amazi y'inyange n'imitobe y'ubwoko butandukanye.

Agacupa k'umweru, gafite umufuniko w'ubururu bwijimye. kuri ko hariho amagambo yanditse mu nyuguti z'umukara ko ari serumu, hariho n'akanyugunyugu k'umukara kijimye.

Icupa rinini ry'ikirahure riteretse ririmo imbere ifu, ripfundikije umufuniko w'icyatsi cyijimye, inyuma kuri ryo, hari agapapuro kometseho kanditseho inyuguti nini z'umweru ko ari umuravumba.

Udukarito n'igikombe kinini birambitse hamwe, iruhande rwabyo hari iseri rinini ry'umuneke usa umuhondo, ku rundi ruhande hari uturabyo tw'umuhondo dufite amababi y'icyatsi, inyuma hari inanasi.

Icyapa cyamamaza umuti uvura amibe, uri mu gakombe gapfundikije umufuniko w'umweru, hariho n'ibara ritukura, iruhande rwe hari umuntu wahuje ibiganza, wikanda mu nda nk'urwaye.

Ibinini biri mu ngano imwe bifite ibara ry'icyatsi ryijimye, bimwe byatakaye hasi, ibindi biri mu kantu ka kaki kabaje mu giti kameze nk'ikiyiko bifashisha iyo bari kubara ibinini.

Ikimera cy'umuravumba giteye ku butaka gifite amashami menshi, utubabi tw'ibara ry'icyatsi cyerurutse tukiri dutoya, dutoshye twiganje ahantu hose.

Akabido gatoya k'umuhondo gateretse ku meza gafite umufuniko utukura kandikishijeho inyuguti ziri mu ibara ritukura iruhande rwako hari uduce twinshi tw'igikakarubamba hari n'igikakabamba kirekire ku meza.

Ikimera cy'icyatsi, kirandaranda, giteye ahantu hari uruzitiro rwa senyege, cyifashisha uru ruzitiro kugira ngo kibashe kurandaranda mu gukura kwacyo, kiriho kirarwurira.

Umurambi mwiza ugaragaza icyayi gize neza, abagore batatu barasutamye bariho barasarura icyayi, undi arahagaze we ntiyari yatangira gusarura icyayi.

Amacupa menshi ari mu bwoko n'indeshyo bitandukanye, amenshi apfundikije udufuniko tw'icyatsi, andi udutukura, ateretse ahantu buri cupa ukwaryo, amwe arimo ubusa, andi ibirimo ntibyuzuye, ateretse buri cupa mu mwanya waryo, iruhande rwayo hari amashashi.

Ameza ariho ibikoresho bitandukanye n'ibimera, amacupa ane, atatu ari mu kigero kimwe, irindi ni rirerire, igikombe n'agasekuru birimo ibara ry'umweru, ibimera by'icyatsi bifiteho utubuto.

Akadobo gateyemo igihingwa k'igikakarubamba iruhande rwako hari agakombe karimo uburoso bubiri bwo koza amenyo; umuti w'amenyo ubiteretse iruhande ndetse n'igitambaro kizinze neza cyo kwihanagura amazi.

Ibirahuri bibiri bingana. Iruhande rwabyo hari utuntu tw'utubabi, biteretse hamwe birimo amazi acagase. Muri yo harimo utuntu tw'udushami, utubabi byatumye amazi ahindura ibara.

Ibijumba bitatu bya tangawize, bifite isuku bifatanye nk'ibimane mu ibara ryabyo rya kaki. Iruhande rwabyo hari ibindi birambitse hasi bakase mu buryo bw'uruziga, ni uduce dutanu.

Icupa ryagenewe kubika umuti woza amenyo, riri mu mabara y'umweru n'icyatsi, ishushanyijeho inyuguti zanditse mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara, rishushanyijeho kandi igikakarubamba gikorwamo uwo muti.

Uducupa tw'umweru dupfundikije imifuniko y'umweru, turi mu ngero zirutana, hariho amabara atandukanye, kamwe ni umweru hariho n'ibara ry'ubururu, akandi ni umweru hariho ibara rya kaki, akandi ni umweru n'ibara rya move.

Igikombe kinini, kiri mu ibara ry'umweru n'umuhondo, gipfundikije umufuniko w'umuhondo, kiriho inyuguti zanditse mu ibara ry'ubururu, kikaba kiriho ikirango cy'abafatanyabikorwa mu ikawa, mo imbere harimo igikeri, kikaba cyandikishijweho n'ibindi birango, mu ibara ry'ubururu.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, amaboko ye yombi ari ku meza, afashe ibinini, mu kuboko kwe kw'iburyo hariho agakarito k'umweru n'icyatsi, mu kundi kuboko kw'ibumoso harimo ibinini bitatu bifungiye hamwe.

Umugabo uhagaze mu nzu, yambaye ipantaro y'ubururu bwijimye, umupira w'icyatsi w'amaboko magufi ufite ikora ry'umuhondo, ateruye ikimera cy'icyatsi gifite ibibabi birebire mu ntoki ze.

Amacupa abiri ateretse ku meza, ari mu mabara atandukanye, rimwe rifite ibara rya oranje ndetse n'umweru n'umuhondo, irindi rifite ibara ry'ikigina, n'umuhondo wiganje, imbere yaho hari ibisate by'umwembe, ndetse n'igikakarubamba.

Icyatsi kirandaranda kizinzemo kabiri cyikubye, gifite utubabi twicyatsi, kiri ku gitambaro cy'umukara kirambitseho akuma k'umweru gakerera.

Umugabo wambaye akagofero gatoya ufite ubwanwa uhagaze areba imbere, inyuma ye hari amayetajeri afashe, ku rukuta arimo imiti iri mu dukombe mu macupa, isa igiye iteretse hamwe.

Agati katari karekare cyane gafite amashami menshi yarabije indabyo z'umweru hose, gateye mu butaka buzengurutswe n'ibindi bimera by'ibara ry'icyatsi.

Ubusitani bwiza bugizwe n'agacaca gatoshye, karimo indabyo zirunze hamwe, zifite amabara atandukanye oranje, umuhondo, umweru, umutuku ndetse n'amababi y'icyatsi.

Ikibaho kinini cy'uruziga bifashisha mu gukata imboga cyangwa imbuto zitandukanye giteretse hasi, kuri cyo hariho ibimera bisa icyatsi by'ubwoko bumwe bifite utubabi duto cyane.

Agacupa k'umweru, kariho akabara ka kaki gatoya, gapfundikije umufuniko usa na zahabu, karimo ibisukika by'icyatsi, iruhande rwako hari amashami atatu y'igikakarubamba.

Umurima uteyemo ibimera bitoshye bifite ibara ry'icyatsi rikeye, uturabyo tw'umweru bimwe ni birebire ibindi biracyari bigufi, bifite amababi n'amashami manini.

Ibihingwa biteye ku mwanya mutoya ushoboka, bimwe biteye munsi bubatse agatara gafite utuntu tw'utwuma, baterekaho utudobo dutatu turimo ibindi bihingwa ku buryo ibyo hasi bifite umwanya n'ibyo hejuru bifite umwanya, byose bikajyaho.

Icupa riri mu mabara abiri; umweru wiganje, oranje nkeya iri no ku mufuniko waryo, rishushanyijeho akanyugunyugu, amagambo yanditseho mu ibara rya oranje rigaragaraho imbuto.

Ibimera byinshi by'ubwoko bumwe buri mu kigero gitandukanye, bifite amababi asongoye y'icyatsi gikeye, bikiri bitoya kandi byose bitoshye.

Umubyeyi w'umugore ufite umusatsi mwinshi w'umukara witeye igitambaro cy'umweru, isakoshi ya kaki ari kwitegereza ibimera by'icyatsi abikozeho n'akaboko ke k'iburyo biri mu rutoki.

Ikimera kikiri gitoya, gifite amashami menshi mu ibara ry'icyatsi ricyeye, giteye ahantu hari utubuye twinshi tw'umukara, umweru, ikigina, kiragaragaza ko gitoshye.

Uducupa tune duteretse duhagaze turi mu ngero zitandukanye, tubiri twegeranye dufite ibara ryo kuba ubururu bwijimye n'utundi tubiri two ku mpande dufite ibara rijya gusa n'amazi, twose twanditseho ijambo infinite.

Ibimera bifite amababi y'icyatsi bitoshye, udushami turiho indabyo n'imbuto, zimwe zamaze guhisha zirasa n'umutuku, izindi ntizirageza igihe, ni umuhondo werurutse.

Umurima mwiza, ukoreye kuburyo bwa kijyambere, uteyemo inyanya ku murongo zimeze neza kandi zisasiye, ziracyari ntoya, zifite ibara ry'icyatsi kandi zifite ifumbire.

Udukarito duhagaze, dukoze mu buryo bw'amacupa, twose dushushanyijeho igikakarubamba, kamwe ni umuhondo wiganje n'umufuniko w'igitaka, akandi n'umweru hose, umufuniko utukura.

Uducupa dutanu duteretse duhagaze turimo umuti wagenewe gusukura amenyo, turi mu ibara ry'umweru dushushanyijeho igikakarubamba cy'icyatsi n'inyuguti zigaragara ziri mu ibara ry'icyatsi n'umukara.

Umugabo ukuze udafite umusatsi, wambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi, ahagaze mu gihuru azamuye amaboko afashe ku biti by'icyatsi, ari kubyitegereza.

Akabido kanini k'umuhondo gateretse gapfundikije umufuniko utukura uruhande rumwe hariho inyuguti ndende zanditseho mu ibara ritukura ndetse n'akanyoni gatoya kari kuguruka.

Ibintu byinshi biteretse hamwe birimo iseri ry'imineke y'umuhondo, inanasi, indabyo z'umuhondo n'icyatsi, udukarito ndetse n'igikombe kinini kiri mu mabara y'ubururu n'umweru cyandikishijeho inyuguti z'umukara.